Urujya n'uruza rw'abantu bateraniye hamwe ubona ko ari abantu benshi cyane baturutse impande n'impande, hari ibikoresho byifashishwa mu gusakaza amajwi, ubona ko ari abantu bitabiriye igikorwa b'ingirakamaro cyane.

Umwana ukiri muto ubona ko yagiye kuvoma ku iriba, yitwaje indobo isa nk'umuhondo ariko bigaragara ko indobo iremereye ugereranyije n'imbaraga afite, si byiza gukoresha abana imirimo ivunanye kuko bigwingiza imikurire yabo.

Abana babona ko bari ku mugezi bari kuvoma amazi yo gushyira ababyeyi babo ubona ko bishimiye kwegerezwa amazi hafi azajya abafasha mu mibereho yabo ya buri munsi.

Abaturage bahuriye hirya no hino, bari mu gikorwa cyo kubaka uturima tw'igikoni hirya no hino, twiganjemo imboga zifashishwa ku mafunguro ya buri munsi, mu rwego rwo gukwirakwiza indyo yuzuye no kubona imboga zihagije ku mafunguro ya buri munsi.

Zimwe mu nzego z'ubuzima twavuga nk'abajyanama bagenda bashyirwa hirya no hino mu midugudu, bashinzwe gukurikirana ubuzima bw'abaturage, babaha inama zitandukanye ku ndwara zigiye zitandukanye, abagabo n'abagore bambaye imyenda y'abajyanama b'ubuzima, barahagaze ubona ko buri wese afite ikarita y'akazi.

Abana bato babiri ubona ko umwe afite igikombe kirimo amazi, ari gufasha mugenzi we gukaraba intoki, mu rwego rwo kwirinda indwara ziterwa n'umwanda.

Abajyanama b'ubuzima bambaye amajire ndetse n'amakarita y'akazi, ubona ko bari mu gikorwa cyo gutaha ikigo nderabuzima cya Mayange cyabegerejwe, bari kumwe n'umuterankunga ubari imbere, ubona ko bishimye cyane bari kubyina, bakoma amashyi.

Abaturage benshi bateraniye mu nama, higwa ku ngingo zitandukanye zerekeranye n'ubuzima bwa muntu, ndetse baganira ku gikwiye gukorwa kugira ngo barusheho guteza imbere igikorwa cy'ubuvuzi, kugira ngo bugere kuri bose.

Umuntu wafashe ikiganza cye akagishyira ku mpombo irimo kuzana amazi kugira ngo akarabe ikiganza cye mu rwego rwo kubungabunga isuku ndetse no kwirinda zimwe mu ndwara ziterwa n'umwanda.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano bateze ibiganza kuri robine abandi bari kuvomera amazi mu ndobo zibafasha gutwara, amazi kugira ngo babashe gukomeza gahunda zabo zitandukanye.

Umubyeyi wunamye ubona ko afite ibido yateretse ku mugezi ari kuvoma amazi yo gukoresha mu rugo iwe, amazi ni ingenzi cyane mu bikorwa byacu bya buri munsi kuko amazi ni kimwe mu bigize imibereho yacu, tudafite amazi ntitwabaho.

Urujya n'uruza rw'abantu ubona ko bahuriye ahantu hari imbaga nyamwinshi, baje mu gikorwa cyo gupimisha abana uburebure ndetse n'ibiro mu rwego rwo kwita ku mibereho yabo.

Urugaga rw'abaganga, abashinzwe kwita ku mibereho myiza y'abaturage, babaha serivise z'ubuzima haba ubujyanama, ndetse no kubafasha kubona imiti y'indwara bafite.

Abana batandukanye batoya, ubona ko basuwe n'inzego z'ubuzima ndetse n'iz'umutekano, bari guhabwa igikoma nka kimwe mu bifite intungamubiri, bifite uruhare mu guteza imbere imikurire myiza y'abana, bagakura bafite ubuzima bwiza.

Urugaga rw'abasore n'inkumi n'abagabo ubona ko bose bafite amakarita y'akazi agaragaza ko bakora mu nzego z'ubuzima, bicaye ahantu hamwe abandi bahagaze bari kwifotoza.

Umwana muto wicaye uri ku mugezi ubona ko ari gukaraba intoki ze agiye kunywa amazi, ni byiza ko dusukura igikoresho cyose tugiye kwifashisha mu gihe tugiye kunywa amazi kandi tukibuka kunywa amazi meza asukuye hifashishijwe imiti yabugenewe mu gusukura amazi.

Umukobwa usutamye uri kumesa ubona ko yaje kuvoma amazi, yateretse ibido mu mabase abiri agerekeranye, ubona ko ari mu gikorwa cyo gukorera isuku imyambaro ye. Ni ingenzi cyane gukorera isuku ibyo twambara ndetse n'aho turara mu rwego rwo kwimakaza isuku.

Umugabo uri guseka ubona ko, afashe ku ijerekani yaje gutwaramo amazi, yishimira igikorwa cyo kuba baregerejwe amazi meza asa neza bityo bikaba bizabarinda indwara ziterwa no gukoresha amazi asa nabi.

Abanyeshuri benshi batandukanye, ubona ko bishimiye ivomero bashyiriweho, bari gukaraba intoki, bakanywa amazi meza asukuye begerejwe mu kigo, ni ngombwa kwibuka gukorera isuku igihe cyose tugiye kurisha intoki ndetse n'igihe tugiye gutegura amafunguro, mu rwego rwo kwirinda indwara ziterwa n'isuku idahagije.

Abana batatu bagiye kuvoma amazi yo mu gishanga kugira ngo bayifashishe mu bikorwa byabo bya buri munsi. Ni ngombwa ko abantu begerezwa amazi meza asukuye mu rwego rwo kwimakaza isuku no kwirinda indwara zikwirakwizwa n'umwanda.

Ababyeyi ubona ko bateraniye mu nzu, harimo intebe, bahagurutse bari kubyina bya Kinyarwanda bateze amaboko, ubona ko bizihiwe cyane bishimye.

Abantu benshi ubona ko bagiye kwa muganga, ubona umubyeyi uteruye umwana afite icyangombwa kimwemerera kujya guhura na muganga kugira ngo haganirwe uko akwiye kwita ku buzima bw'uwo mwana.

Icyumba gisa neza, giteguye, kirimo ameza, intebe, ubona ko harimo abantu b'ingeri zitandukanye bari mu nama, bari kuganira ku ngingo y'ubuzima, baganira ku bikwiye gukorwa kugira ngo hirindwe impfu nyinshi ziterwa n'indwara zigiye zitandukanye.

Abanyeshuri batandukanye, abakobwa n'abahungu, ubona ko bari ku ivomero, buri wese afite agakombe ke yifashisha mu kunywa amazi, mu rwego rwo kwirinda gukwirakwiza indwara zitandukanye binyuze mu guhanahana bimwe mu bikoresho.

Abaturage benshi bateraniye mu nzu nini ubona ko bari kuganirirwa ku buryo hakwiye gufatwa umwanzuro wo gushora amafaranga menshi mu buvuzi, mu rwego rwo kwirinda umubare munini w'abantu bapfa bazize indwara, no kubura imiti ndetse n'ubuvuzi bubegereye.

Abaganga n'abaturage ubona ko bari muri gahunda yo gusuzuma abaturage bumwe mu burwayi, babafasha kumenya uko ubuzima bwabo buhagaze, ubona ko ari igikorwa cyabereye ahantu abaganga baje kwegera abaturage aho baba.

Abantu bateraniye mu cyumba k'inama ubona ko bafite amacupa arimo amazi imbere yabo kandi icyo cyumba kikaba kirimo idarapo ry'igihugu cy'u rwanda.

Abaganga bari mu gikorwa rusange cyo gupima abaturage indwara zo mu kanwa ndetse hitabwa kubagira inama ndetse no kubafasha abafite ikibazo cy'uburwayi bw'amenyo bakabakura.

Umurwayi wagiye kwipimisha agakoko gatera Sida kumujyanama w'ubuzima kugira ngo amenye uko urwego rw'ubuzima bwe buhagaze ni ngombwa ko mugihe cyose dukoze imibonano idakingiye tugana inzego z'ubuvuzi tukipimisha kugira ngo turusheho kurwanya agako gatera Sida.

Umugabo n'umutima ubona ko bari imbere y'imbaga nyamwinshi, bari gukina, gukina ni ikintu cy'ingenzi mu buzima bw'umuntu, mu rwego rwo kumurinda kwigunga ndetse akagira ubuzima bwiza bumufasha kubaho yumva atuje.

Wasake ni kimwe mu kigo gishinzwe gukwirakwiza amazi meza mu rwego rwo kwirinda indwara ziterwa n'amazi adasukuye hirya no hino twavuga nka Diyabete.

Abanyeshuri benshi ubona ko bambaye imyenda y'ishuri, bari mu kigo cy'amashuri baganye ibigega byagenewe gushyirwamo amazi asukuye yo kunywa, bafite buri wese agakombe, bagiye kunywa amazi asukuye.

Umuntu ubona ko ari kuvoma amazi asuma, ku ruhande rwe hicaye umwana, ni byiza gukoresha amazi asuma igihe tutayasukuye twifashishije imiti yabugenewe, mu gusukura amazi mu rwego rwo kwirinda indwara ishobora gukomoka ku gukoresha amazi adasukuye atemba ku musozi.

Abantu bagiye batandukanye ubona ko harimo abagore, abagabo, bose baje mu gikorwa cy'ubukangurambaga bushinzwe kugira inama abagore batwite ko bakwiye gufata inkingo ndetse n'uko bakwiye kwitwara mu rwego rwo kubungabunga ubuzima bw'umwana ubu uri mu nda.

Umuganga ubona ko ari kwita ku mukecuru waje kwivuza amufata ibizamini, yifashishije urushinge amutera ku rutoki agatwara amaraso ye ubu undi agapima uburwayi afite mu mubiri.

Igitega kinini, ubona ko cyubatswe neza gifata amazi, azajya afasha abaturage mu bikorwa byabo bya buri munsi haba mu kuhira imyaka, cyangwa se kuyakoresha mu bikorwa bitandukanye nk'iby'ubuhinzi n'ubworozi.

Abantu benshi batandukanye ubona ko bicaye ahantu hamwe rwose, bambaye bose imipira y'umweru hejuru, ubona ko baje mu nama hari icyo bari kuganirizwaho mu rwego rwo kwimakaza ubuzima bwiza muri sosiyete nyarwanda.

Abantu benshi ubona ko bari mu cyumba cy'inama, buri wese afite imashini imbere y'iwe, bari kuganira ku bintu bigiye bitandukanye, cyane cyane ku bibazo bigaragara muri sosiyete, hibandwa gushaka ibisubizo by'indwara zimwe na zimwe, zikunze kwibasira abaturage.

Abaturage bateraniye kwa muganga bari guhabwa inama z'uko bakwiye kwita ku bana babo kugira ngo bagire imikurire myiza ndetse n'ubuzima bwiza, abari gufasha ababyeyi abana babo zimwe mu nyongerantungamubiri ziba zaragenewe abana bakiri bato.

Abantu bari mu nama ubona ko buri wese afite ikayi ari kwandikamo imyanzuro y'inama n'ingingo z'ingenzi ziri kuganirwaho muri iyo nama. Imbere yabo hateretse amacupa y'amazi bari kugenda basomaho.

Abantu benshi batandukanye bahuriye ku mugezi, ubona ko ari umwana urimo kuvoma, inyuma hakaba hari umubyeyi urimo kumufasha kuvoma, kuri iyo robine abandi baturage bari kureba icyo igikorwa cy'amazi meza begerejwe.

Abaturage bateraniye ahantu hamwe, bari mu nama baganirirwa ku buryo bakwiye gusigasira imibereho myiza birinda indwara ziterwa n'umwanda, bakora isuku ndetse mu gihe umurwayi arwaye agashyikirizwa inzego z'ubuzima zikamwitaho.

Hirya no hino mu gihugu hagiye habamo inzego zitandukanye zishinzwe kwita ku buzima. Twavuga nk'abajyanama bagiye bashyirwa muri buri mudugudu hibandwa ku gusigasira imibereho myiza y'abaturage babegereza ubuvuzi hafi.

Umwana muto uri ku mugezi, ari kuvoma amazi yo gukoresha mu rugo, ubona ko ari imigezi yagiye yegerezwa abaturage mu rwego rwo kwimakaza isuku ndetse no gukoresha amazi meza asukuye

Buri bitaro bigiye bifite ibyuma bitandukanye byifashishwa mu kwita ku barwayi hakurikije indwara umurwayi afite; hifashishwa bimwe mu byuma byabugenewe mu gufasha abaganga, n'ibyuma byifashishwa mu guhoma amenyo, n'ibyuma byifashishwa mu gupima uko umutima w'umurwayi uhagaze ndetse n'ibindi.

Umubyeyi uryamye ku gitanda cy'abarwayi ubona ko iruhande rwe hari abashinzwe kwita ku barwayi ari kumva uko ubuzima bw'umurwayi bumeze, afashe igikoresho cyifashishwa mu gupima uko umwana agenda mu nda.

Abana b'abanyeshuri, ubona ko bambaye imyenda y'ishuri, bari gukaraba mu ntoki mu rwego rwo kwimakaza isuku ndetse no kwirinda indwara ziterwa no kudakorera isuku umubiri.

Abaturage batandukanye, ubona ko bambaye umwambaro ugaragaza ko ari abakozi bashinzwe kwita ku mibereho myiza y'abaturage, ubona ko bambaye imipira y'umweru, bamwe basutamye, abandi bahagaze inyuma ya bagenzi babo

Umubyeyi ufite umwana urwaye ubona ko yagiye kwa muganga , umuganga arimo yita ku mwana yifashishijwe ku bikoresho byifashishwa mu gupfuka umurwayi ufite igikomere, umuganga afite uturindantoki tumufasha kwirinda indwara zishobora guterwa,,,,,,

Ababyeyi batatu ubona ko bari kwimakaza isuku bakaraba intoki zabo n'amazi meza n'isabune mu rwego rwo kwirinda indwara ziterwa n'isuku idahagije.

Abaturage bagiye ku mujyanama w'ubuzima kwisuzumisha uko ubuzima bwabo buhagaze, umujyanama w'ubuzima ari kwifashisha icyuma cyabugenewe mu gupima umuvuduko w'amaraso umuntu.

Abaturage bateraniye mu nama, bari kuganirizwa ku cyo bakora kugira ngo bateze imbere imibereho myiza; birinda indwara zigiye zitandukanye ndetse bashishikariza kugana ibitaro, umuntu wese wiyumva ko arwaye kugira ngo akurikiranwe hakiri kare.

Zimwe mu nzego zashyiriweho kwita ku buzima, harimo abajyanama b'ubuzima bagiye bashyirwa hirya no hino mu midugudu, bafasha abaturage kubona ubuvuzi bubegereye, bityo bikarinda impfu za hato na hato, ziterwa no kubura ubuvuzi bwihuse.

Abana bari ku mugezi ubona ko barimo gukaraba intoki mu rwego rwo kubungabunga isuku ituruka ku gukoresha amazi meza n'isabune mu gihe cyose umuntu agiye kurya cyangwa se agiye gutegura amafunguro kugira ngo Hagabanyuke indwara ziterwa n'umwanda.

Abana babiri ubona ko umwe ari gufasha mugenzi we gukaraba intoki amusukira amazi, mugenzi we agakoresha umuti wabugenewe mu gusukura intoki n'isabune n'iyindi miti yose yifashishwa mu rwego rwo kwimakaza isuku ku mubiri.

Abantu bateraniye mu cyumba, ubona ko ari abantu bambaye imyenda y'akazi ndetse n'amakarita y'akazi, bari guhabwa amahugurwa ku buryo ki bakwiye kwita ku barwayi, babapima ndetse n'ubundi butabazi bw'ibanze bashobora guha umurwayi.

Abantu benshi batandukanye biganjemo abasore aba mama ndetse n'abagabo ubona ko bari mu kazi k'amaboko, ubona ko bari guterura imifuka bagenda bayipanga ahantu hamwe, bigaragara ko bari gusarura bagerageza guhunika ibyo bahinze.

Imodoka nini cyane ifite ikizuru kimwe ikururana, ikunze kumenyekana ku izina rya rumoroki, ifite ibirango bigiye bitandukanye ubona ko ari imodoka yifashishwa mu gutwara ibicuruzwa.

Abaturage batandukanye, ubona ko bateraniye ku mugezi rusange, bari kuvoma amazi yo gukoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi, ubona ko ari amazi begerejwe na leta, amazi meza abarinda indwara ziterwa n'umwanda.

Umuntu uri gukaraba intoki ze ku mugezi ubona ko yimakaje isuku, ni byiza gukora isuku mu gihe cyose tugiye kurya no mu gihe tugiye gutunganya amafunguro dukoresheje amazi meza n'isabune.

Ababyeyi benshi batandukanye, ubona ko bateruye abana, abandi bari kubotsa, baganye ikigo nderabuzima bagiye kubasuzumisha imikurire yabo, ndetse no kubateza inshinge zabugenewe zibafasha kurwanya kanseri y'inkondo y'umura.

Umuntu ubona ko yateza ibiganza bye ku iriba rishoka ari gukaraba amazi rwose ni ngombwa ko dusukura intoki zacu kenshi mu rwego rwo kwirinda indwara zigiye zitandukanye zituruka ku isuku idahagije iterwa no kudakaraba neza intoki n'amazi meza n'isabune.

Abana bato bagiye ku mugezi bitwaje ibivomesho, ubona ko hari umukobwa uri kubafasha kuvoma amazi ku iriba begerejwe, ritanga amazi meza asukuye; ubona ko haruguru yabo hari imodoka ihahagaze.

Ihuza abayobozi bose bashinzwe ubuzima

Abantu batandukanye bateraniye mu cyumba k'inama, bari kuganira ku mibereho myiza ndetse n'ingamba zikwiye gufatwa mu rwego rwo kubungabunga no gusigasira ubuzima bwiza.

Umujyanama w'ubuzima, arimo kwereka umubyeyi uko umwana akwiye kwitabwaho, ndetse n'ikigero umwana akwiye kuba arimo, bitewe n'imyaka ndetse n'uko yitabwaho haba mu gufata inkingo, ndetse no guhabwa indyo yuzuye.

Umugabo ubona ko ahagaze imbere, ari kuganiriza abandi uburyo ki hakwiye gushorwa amafaranga menshi mu bikorwa byo kugura imiti ndetse n'ubwishingizi bw'abaturage, mu rwego rwo kurinda umubare munini w'abantu bapfa bazize uburwayi.

Umusaza mutoya uri kuvoma ku mugezi, ubona ko yishimiye igikorwa arimo cyo gutwara amazi imuhira kugira ngo barusheho kwimakaza isuku ishingiye ku gukoresha amazi meza asukuye begerejwe.

Abantu batandukanye ubona ko bari mu nama rwose bicaye ku meza agiye ariho ibikombe, ubona ko bari gukora inama bafata n'icyayi, haganirwa ku buryo bukwiye gukorwa mu rwego rw'ukuri kubungabunga ubuzima bw'abaturage.

Umubyeyi uteruye umwana ubona ko mu ntoki ze harimo ifishi ndetse n'ikarita y'ubwisungane mu kwivuza, ubona ko agiye guhura n'umuganga kugira ngo akurikirane ikibazo cy'uburwayi bw'umwana we hakurikijwe ibimenyetso ari bugaragaze.

Ababyeyi batatu ubona ko babiri bari gufasha umwe kuvoma amazi meza asukuye arimo kwifashisha indobo, kugira ngo atware amazi yo kujya gukoresha mu bikorwa bye bitandukanye.

Urubyiruko ubona ko rwivanzemo n'ababyeyi bicaye mu cyumba, barimo kuganirizwa kuri zimwe mu ndwara z'ubuzima bw'imyororokere, ni ngombwa ko abana bagirwa inama ku mihindagurikire y'imibiri yabo mu rwego rwo kwirinda z'imwe mu ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina.

Abagabo n'abagore batandukanye, ubona ko bari mu cyumba cy'inama buri wese afite amazi akorwa n'uruganda rwa Nile, ubona ko imbere yabo hari udukarite tugiye turiho aho baturuka ndetse n'amazina yabo, bari mu nama iri kuganira ku mibereho ndetse n'indwara zigiye zitandukanye.

Umwana muto ufite igikombe urimo aravoma amazi kuri robine, ubona ko yishimiye kuvoma amazi ni ngombwa ko tunywa amazi meza asukuye hifashishijwe imiti yabugenewe gusukurara amazi cyangwa se tukayateka.

Abaturage bateraniye ku ivomero rusange ry'amazi, ubona ko begerejwe mu rwego rwo kugira amazi meza asukuye, hirya no hino mu baturage, mu rwego rwo kwirinda indwara ziterwa no gukoresha amazi adasukuye.

Abana benshi bahuriye ku mugezi rusange, barimo kuvoma amazi, ubona ko bitwaje bimwe mu bikoresho bibafasha gutwara amazi, twavuga nk'amabido mu rwego rwo kuyakoresha mu bikorwa byabo bya buri munsi.

Urujya n'uruza rw'abantu bateraniye ahantu mu kibuga, ubona ko hari abaganga ndetse n'ababyeyi bafite abana babo, abaganga bari guha urukingo abana mu rwego rwo kwirinda impfu ziterwa n'indwara zigiye zitandukanye.

Umubyeyi wikoreye ibido ubona ko ari gutwara amazi yo kwifashisha mu buzima bwe bwa buri munsi. Ni ngombwa ko aho dutuye dukwiye kwegerezwa amazi mu rwego rwo gukomeza kugira ubuzima bwiza buzira indwara.

Abaturage ubona ko bagannye ivomero, ubona ko imbere yabo hari umwana uri gukoresha intoki ze mu kunywa amazi. Ni ngombwa ko dusukura intoki mu gihe tugiye kurya cyangwa se kunywa bityo bikaturinda indwara ziterwa n'umwanda.

Abantu batandukanye higanjemo abagore abagabo bicaye ku meza agiye atandukanye ubona ko biciye mu byiciro bafite ingingo zitandukanye bari kuganiraho imbere yabo bafite mudasobwa bifashisha mu kazi kabo ka buri munsi.

Umwana muto uri ku ivomero ubona ko afite indobo ari bwifashishe mu gutwara amazi yo kujyana mu rugo, mu rwego rwo gukomeza kugira ubuzima bwiza ni ngombwa ko dukoresha amazi meza asukuye kandi ahagije.

Ababyeyi bicaranye n'abana ubona ko bishimye cyane, baricaye, bari kuganira ku mibereho igiye itandukanye, barushaho kuganira muri bimwe mu bibazo bigiye byugarije imiryango imwe n'imwe ndetse hibandwa ku gushaka igisubizo cy'indwara zigiye zitandukanye zigaragara muri sosiyete.

Abajyanama b'ubuzima ni bamwe mu bashyizweho muri buri mudugudu wose ugize igihugu cy'u Rwanda, bagafasha abarwayi kubona ubuvuzi bw'ibanze mu gihe bafite ikibazo cy'indwara zitandukanye. Bagira inama abagore batwite uko bakwiye kwita ku mirire yabo, ndetse bakanabakurikirana kugeza babyaye.

Abantu batandukanye ubona ko bagannye ivomero rusange bitwaje ibikoresho byo gutwara amazi, ni byiza ko abantu bose begerezwa amazi meza mu rwego rwo guteza imibereho myiza y'abaturage imbere.

aAbantu benshi bicaye ku meza amwe ubona ko bari kuganira ariko imbere yabo bafite ibirahuri birimo ibyo kunywa bitandukanye ndetse ubonako bari kuganira banezerewe bahanahana ibitekerezo ku bibazo byugarije ubuzima bwabo.

Abaturage ubona ko ari abagore batatu bari babiri bari gufasha umwe kuvoma amazi bamufasha gukaraga tiyo mu rwego rwo kugira ngo bavome amazi meza afite isuku baza gukoresha kugira ngo hirindwe indwara ziterwa n'umwanda.

Ahantu hateraniye urujya n'uruza rw'abantu ubona ko hari abana, abagore, abakecuru n'abagabo n'inzego z'umutekano zizwi ku izina rya Dasso, ubona imbere yabo hari imodoka izwi nk'imbangukiragutabara yifashishwa mu gutwara abarwayi ibegereza ibitaro.

Abantu batandukanye bahuriye mu gikorwa rusange cyo gutera ibidukikije, byiganjemo ibiti ndetse n'ibindi bimera byose bigira uruhare mu mibereho yacu, yaba mu gusukura umwuka duhumeka ndetse n'ibindi.

Umugabo usa nabi wambaye imyenda yacikaguritse, ubona ko yisize imbyiro mu maso, bigaragara ko ari umuntu ufite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, akwiye kwitabwaho n'inzego z'ubuzima, agakurikiranwa, bityo akongera akagira ubuzima bwiza.

Umusaza wicaye ku muhanda, ubona ko yambaye ibintu bisa nabi rwose, ubona ko ari kurya ibiryo byajugunywe, ndetse afite ibicupa byanduye, bigaragara ko afite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe, akwiye kwitabwaho n'inzego z'ubuvuzi mu rwego rwo gukurikirana imibereho yiwe.

Abaturage benshi bateraniye mu cyumba, ubona ko bari kuganirizwa ku ndwara y'ubuzima bwo mu mutwe n'uko bakwiye kwita ku mibereho y'ubuzima bwo mu mutwe, birinda gutoteza, gutotezwa mu rwego rwo kubungabunga imikorere myiza y'ubwonko.

Abaturage bateraniye mu rugo rw'undi muturage ubona ko bari kumuganiriza afite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe, bagamije kumufasha kugira ubushobozi ndetse no kuba bamushyikiriza inzego z'ubuzima zibishinzwe zikamwitaho.

Buri muturage wese aho yaba ari hose afite uburenganzira bwo guhabwa serivisi z'ubuzima zigiye zitandukanye haba ubujyanama cyangwa se guhabwa imiti imufasha kuvura uburwayi butandukanye.

Hashyizweho ubufasha ku bana ndetse no ku rubyiruko, buri bitaro ugenda usangaho ikigo cyagenewe urubyiruko, aho baganirizwa bimwe mu buzima bw'imyororokere, ndetse n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, n'uburyo bwakoreshwa kugira ngo hirindwe zimwe mu ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye.

Umubyeyi wicaye ateruye umwana, iruhande rwe ubona ko hari undi mwana, ubona ko uyu mubyeyi ari gutekereza cyane, afite ibibazo byinshi bitandukanye, ni byiza ko turinganiza urubyaro mu rwego rwo kwirinda ingaruka ziterwa n'abana benshi tudashoboye kurera.

Umubyeyi uhagaze wipfutse mu maso yifashishije agatambaro; ubona ko afite ikibazo gikomeye cyane arwaye amenyo; kuko umuntu urwaye amenyo atabasha gutuma hari umwuka winjira mu kanwa; kuko bimutera uburibwe bukomeye.

Abana benshi batandukanye ndetse n'ababyeyi ubona ko bari mu gikorwa cyo kwamamaza, barishimye, bari guseka ubona ko haba abana, abakecuru, ababyeyi ndetse n'abagabo bose bazamuye amadarapo barimo baramamaza umukuru w'igihugu, ubona ko bazamuye idarapo y'igihugu cy'u Rwanda.

Abantu babiri bicaye bari kuganira ku bibazo bigiye bitandukanye mu rwego rwo gushakira hamwe igisubizo cy'ibibazo bafite, ni ngombwa ko igihe cyose ufite ikibazo ugira uwo ukiganiriza, mu rwego rwo gukomeza gusigasira imitekerereze, bikakurinda kwangirika k'ubuzima bwo mu mutwe.

Abantu batandukanye bicaye ahantu hanze ubona ko bari kuganira ku bibazo bigiye bitandukanye hibandwa kuganira ku ngaruka ndetse n'igitera umuntu kugira uburwayi bwo mu mutwe ndetse hatangwa n'ubujyanama icyo umuntu akwiye gukora mu gihe yumva atameze neza.

Igishushanyo mbonera kigaragaza uko imibare ihagaze mu Rwanda ku kigendanye n'ingo z'abantu biyahura, hagamijwe gufata ingamba kurebera hamwe igitera abantu kwiyahura.

Abantu benshi batandukanye, bicaye mu cyumba cy'inama, ubabona ko imbere yabo hateretse amazi, hari kugenda haganirwa ku ndwara zigiye zitandukanye zikunze kwibasira abarwayi cyane cyane nk'uburwayi bw'amenyo, haganirwa ku cyakorwa kugira ngo umubare w'abarwayi b'amenyo ugabanyuke.

Icyumba kirimo abaturage batandukanye ubona ko imbere y'abo baturage hari ababyeyi babiri bari kuganira, umwe afite mikoro ndetse n'agasakoshi mu ntoki ari kuganiriza abitabiriye iyi nama.

Hari inzu zahariwe kwita ku bantu bafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe hatangwa ubujyanama n'indi miti ifasha umuntu wese wagize ihungabana ryo mu mutwe, bityo bagakomeza kubungabunga imikorere ye y'ubwonko.

Umugabo uhagaze ubona ko ari ahantu hamenwa imyanda, yambaye ibishashi byavuyemo ibintu bitandukanye, ubona ko asa nabi cyane, bigaragaza ko afite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe, akwiye kwitabwaho n'abaganga, bityo akongera akagira imitekerereze mizima.

Urugaga rw'abagore n'abagabo, ubona ko bahagaze imbere y'inyubako, barimo kwifotoza abasa neza, bamwe bafashe amaboko yabo bakayashyira imbere ubona ko bishimiye igikorwa barimo.

Rwanda Mental Health Nursing Students Association, ni ikigo gishinzwe gutanga ubujyanama ndetse n'uburezi mu kwita ku barwayi cyangwa se abantu bafite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe, hibandwa ku nama bashobora kubagira ndetse bakaba babaha n'imiti ibafasha.

Igishushanyo mbonera kigaragaza uko imibare y'impfu ziterwa no kwiyahura mu gihugu ihagaze, hashingirwa ku kugaragaza igitera impfu nyinshi zishingiye kwiyahura ndetse hafatwa imyanzuro y'icyakorwa kugira ngo umubare w'abantu bapfa biyahuye ugabanyuke mu gihugu.

Bashyizeho serivise y'ubuzima bwo mu mutwe, ifasha abantu bose bafite ihungabana ndetse n'abandi bose bafite ikibazo by'imitekerereze, hakaba hari abaganga b'inzobere bari hirya no hino mu bitaro, bashinzwe kwita ku barwayi bose bafite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe.

Abantu bicaye ku dutebe ubona ko harimo abagore, abagabo n'abana bari kuganira ku bibazo bigiye bitandukanye bikunze kugaragara hirya no hino mu miryango, bibanda ku kuganira ku ndwara y'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'uko bakwiye kwirinda uburwayi bwo mu mutwe.

Umugabo wicaye hasi ubona ko yambaye imyenda isa nabi cyane, bigaragara ko ikibazo cyo mu mutwe akwiye kwitabwaho, agashyikirizwa abaganga mu rwego rwo kumurebera ibibazo afite, birakwiye ko mu gihe tubonye umuntu wese ufite ubumuga bwo mu mutwe,..

N'amahugurwa yateguye agamije gutanga ubujyanama ku buzima bwo mu mutwe. Ni ikiganiro gitegurwa n'inzego z'ubuzima kiri gutangwa n'umugore wa Perezida w'u Rwanda Jeannette Kagame.

Abanyeshuri ubona ko bishimye, bambaye hejuru imipira isa nk'umuhondo, bari gukurikirana ikiganiro bari kugezwaho ku kirebana n'uburwayi bwo mu mutwe, bagirwa inama y'icyo bakora kugira ngo basigasire ubuzima bwabo bwo mu mutwe ndetse bagumize gutekereza neza.

Umugabo ubona ko afite umusatsi mwinshi ubona ko ari guseka akutse amenyo uyu mugabo ukurikije uko agaragara urabona ko ari umuntu ufite ikibazo cy'imikorere y'ubwonko bwe akwiye kwitabwaho n'inzego z'ubuvuzi.

Abana beza ubona ko bishimye cyane bari guseka ubona ko bafite ubuzima bwiza ni byiza ko umuntu ahura n'abandi bakaganira mu rwego rwo kwirinda irungu ndetse n'agahinda gakabije byangiza ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'imitekerereze.

Umugabo ubona ko yicaye ahantu hasa nabi, ubona ko aziritse amaguru, yifashe mu gahanga, bigaragara ko ari gutekereza cyane, afite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe akwiye kwitabwaho n'inzego z'ubuzima.

Zimwe muri serivisi ushobora gusanga kwa muganga harimo nka serivisi yo kwita ku barwayi bafite ikibazo cy'amenyo, bashobora kugirwa inama yo kuyakuramo cyangwa se bakayahoma mu rwego rwo gusigasira ubuzima bwiza bw'amenyo.

Abana hirya no hino ujya usanga bagiye baba ku mihanda, basa nabi, bambaye nabi, ubona ko ntawe bagira ubitaho bitewe n'amakimbirane agaragara mu miryango imwe n'imwe, ugasanga abo bana bahungabanye bigendanye n'imitekerereze, bitewe no kutagira ubitaho.

Umubyeyi uhetse umwana ubona ko iruhande rwe hari undi mwana uhagaze, umubyeyi uri mu mirimo yo mu gikoni, atekeye igikoma abana be, ni ngombwa kwita ku mafunguro tugiye kugaburira abana mu rwego rwo kwita ku ntungamubiri ndetse zizabafasha kugira ubuzima bwiza n'imikurire myiza.

Umubyeyi ubona ko arimo guseka yishinze bitewe n'inama yagiriwe n'abaganga ku bigendanye n'ubuzima bwo mu mutwe, mu gihe cyose umuntu yumva atameze neza ni ngombwa ko agana inzego z'ubuvuzi bakaba bamuha ubujyanama, mu rwego rwo gukomeza gusigasira imibereho myiza y'abaturage.

Umugore wicaye ku kirago munsi y'igiti, ubona ko icyo giti kiriho umurunga, bamuziritse ku kaguru kugira ngo atiruka, bigaragaza ko ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe akeneye kwitabwaho n'inzego z'ubuzima, zikaba zamufasha agakira.

Umubyeyi wicaye ku gatebe ubona ko ari kuganira n'umujyanama w'ubuzima, hagamijwe kugusigasira imitekerereze ya muntu, agirwa inama y'icyo yakora kugira ngo arusheho kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe ndetse no kwirinda ibyago bishobora guterwa no kubura ubujyanama.

Umujyanama w'ubuzima ni rumwe mu rwego rwegerejwe abaturage mu rwego rwo kwita ku mibereho myiza y'abaturage hibandwa cyane cyane gukurikirana ubuzima bw'abarwayi ku gihe.

World Mental Health Day, ni umunsi washyizweho mu kurwanya indwara z'ubuzima bwo mu mutwe hibandwa ku gutanga ubukangurambaga hirya no hino, ndetse bagira inama abantu bose bafite ibimenyetso by'indwara zo mu mutwe kugana abaganga b'inzobere kugira ngo babafashe.

Urubyiruko rwahuriye ahantu hamwe ubona ko bambaye imipira isa hejuru, bigaragara ko bari mu gikorwa cy'amahugurwa ubona ko buri wese afite agacupa mu ntoki ze ari kugenda anywaho mu gihe bari gukurikirana ibiganiro bari kugezwaho ku bigendanye n'ubuzima ndetse n'imikorere y'ubwonko.

Umugore n'umugabo ubona ko umugore afite mikoro ari kuganiriza abaturage ku buryo indwara zimwe na zimwe zigenda zigaragara, abaganiriza uburyo bakwiye kwita ku buzima bwabo bwo mu mutwe, birinda kubwira nabi abo babana mu rwego rwo kugira ngo badahungabanya imitekerereze ndetse n'imikorere y'ubwonko.

Umugabo uhagaze, imbere ubona ko hari abantu benshi batandukanye, baje mu kugirwa inama ku ngamba zikwiye gufatwa kugira ngo hagabanyuke umubare munini w'abarwayi bo mu mutwe ndetse bagirwa inama y'uko umuntu wese afite, bimwe mu bimenyetso by'uburwayi bwo mu mutwe akwiye kugana ikigo nderabuzima.

Abaturage benshi ubona ko bahuriye mu cyumba gisa neza, ubona ko bahagaze, barangije inama yari yabateranije, bari kwifotoza, baganiraga ku kibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe, hitabwa ku gufata ingamba z'uko bakwiye gufasha umuntu wese ufite ihungabana ryo mu mutwe.

Abaturage batandukanye bateraniye mu cyumba kinini, gisa neza, ubona ko bagiye bicara mu buryo bw'uruziga kugira ngo babashe kumvikana bitabagoye; bari kuganira ku buzima bwo mu mutwe ndetse n'igitera abantu kugira ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe n'icyakorwa kugira ngo umubare munini w'uburwayi bwo mu mutwe ugabanyuke.

Umugabo ubona ko afite agakoresho, ari kunyeganyeza amenyo ye, bigaragara ko afite ibibazo by'amenyo ari kumurya, ni ngombwa ko igihe cyose wumvise uri kubabara amenyo ukwiye kugana inzego z'ubuvuzi bakagufasha.

Umwana muto ubona ko aryamye ku gitanda cy'abarwayi hari umuganga wambaye uturinda ntoki wasamuye akanwa ke ari kugerageza kureba ikibazo cy'uburwayi bwe bw'amenyo kugira ngo abone uko amwitaho.

Umurwayi wagiye kwisuzumisha uburwayi bwe bw'amenyo, ari kumwe n'umuganga wambaye ibikoresho byabugenewe mu gusuzuma uburwayi, afite agakoresho yifashisha agenzura uko amenyo yangiritse kugira ngo abashe kumenya ko akuvura.

Umukobwa uri guseka neza, ubona ko afite amenyo akeye, akorera isuku ye mu kanwa, mu rwego rwo kwirinda uburwayi bufata amenyo nko kumungwa cyangwa se akaba yagira impumuro mbi mu kanwa, yifashisha imiti yabugenewe mu gusukura mu kanwa.

Umwana mukuru ubona ko aryamye ku gitanda cy'abarwayi ari kwitabwaho n'abaganga bamufasha kumupima, bamukura amenyo ubona ko afite ibibazo by'uburwayi bw'amenyo.

Umurwayi ufite ikibazo cy'amenyo, ubona ko umuganga afite, imashini yabugenewe mu gukura iryinyo amaze gukura umurwayi iryinyo.

Umurwayi wagiye kwa muganga kwivuza indwara z'amenyo, muganga akaba ari kumukorera igikorwa cyo kumusimburira amenyo, mu rwego rwo gukomeza kugira amenyo meza ndetse yirinda indwara zose zo mu kanwa.

Umugabo ubona ko ari guseka neza, ari gukorera isuku amenyo ye yifashishije kimwe mu bikoresho byifashishwa mu gusukura amenyo, ndetse hakibandwa gusukura hagati y'amenyo abiri, hifashishijwe ibikoresho ryabugenewe.

Umwana mutoya ubona ko afite uburoso ari kugerageza gukorera isuku amenyo ye mu rwego rwo kwirinda indwara ziterwa n'umwanda wo kudakorera amenyo isuku bityo bikaba byatuma amenyo y'umuntu yangirika.

Abanyeshuri n'abarezi bari mu cyumba, ubona ko bambaye udupira tw'icyatsi twanditseho ijambo ngo tubiteho, bari mu gikorwa cyo gukangurira abana gukorera isuku amenyo yabo, babereka uko bakwiye gukorera isuku mu kanwa, bifashishije uburoso ndetse n'umuti wabugenewe mu gusukura amenyo, mu rwego rwo kwirinda indwara zo mu kanwa.

Umugabo ubona ko yambaye ubusa hejuru arimo gukorera isuku amenyo ye, yifashishije akadodo kabugenewe gusukura hagati y'amenyo gakuramo imyanda. Uburoso buba butabasha gukuramo mu rwego rwo gukomeza gusigasira amenyo.

Umugore ubona ko arimo gukorera isuku ye amenyo yifashishije akadodo kabugenewe mu gusukura hagati y'amenyo gakuramo imyanda uburoso budashobora gukuramo mu rwego rwo gukomeza kugira ubuzima bwiza bw'amenyo.

Umwana muto ubona ko afite ibibazo by'uburwayi bw'amenyo, umuganga yambaye ibikoresho byifashishwa mu kwita ku murwayi, navuga uturindantoki ndetse n'imikasi yabugenewe mu gukura amenyo y'umurwayi.

Icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo agatanda karyamwaho n'umurwayi n'agatebe umuganga akoresha mu gihe arimo gusana amenyo y'umurwayi, cyangwa se agiye kumukura amenyo igihe afite uburwayi.

Icyumba kigezweho kirimo ibikoresho bigezweho, byifashishwa mu gikorwa cyo kuvura abarwayi bafite uburwayi bw'amenyo mu gihe se bagiye guhomerwa amenyo cyangwa se bagiye kuyakura, hifashishwa bimwe muri ibi bikoresho.

Umugabo uryamye ku gitanda ubona ko afite uburwayi bw'amenyo, ari kumwe n'umuganga uri kumufasha kwita ku menyo yiwe, hifashishijwe ibyuma byabugenewe mu kuvura umuntu ufite ikibazo cy'amenyo, umuganga yambaye ibikoresho bimufasha kwirinda impanuka ishobora kubera mu kazi.

Umugabo ubona ko yicaye mu cyumba cyagenewe kwita ku barwayi b'amenyo, ukurikije ibikoresho bihari, ubukarabiro n'imashini zabugenewe mu gukura amenyo cyangwa se mu kuyahoma, ubona ko yambaye itaburiya igaragaza ko ari umuganga.

Umubyeyi uri kwereka umwana we uko akwiye gukorera isuku amenyo ye, mu rwego rwo kwirinda uburwayi bufata umuntu udakorera isuku amenyo ye, nko kumungwa cyangwa se kuba yagira ikindi kibazo.

Icyumba cyiza gikeye kigizwe n'ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu kwita ku murwayi, ufite uburwayi bw'amenyo twavuga nk'imashini zikura amenyo, ndetse n'izindi mashini zifasha umuganga mu gusana amenyo abayarangiritse .

Umukobwa ubona ko rwose afite uburoso ,arimo gusukura amenyo ye, mu rwego rwo kwirinda indwara ziterwa n'umwanda.

Umurwayi w'amenyo ubona ko aryamye ku gitanda cy'abarwayi, iruhande rwe hari abaganga bafite ibikoresho byabugenewe mu gukura amenyo ndetse bafite n'uturindantoki n'amarinete yabugenewe afasha umuganga kureba neza igihe ari gukura umurwayi amenyo.

Umugabo ubona ko ari gukorera isuku amenyo yibanda ku gukura imyanda iba yagiye hagati y'iryinyo n'irindi mu rwego rwo kwirinda kwangirika kw'amenyo.

Umugabo ubona ko arimo guseka, ariko ari gukorera isuku amenyo ye yifashishije kamwe mu gakoresho kabugenewe, gasukura amenyo hagati y'iryinyoni n'indi, gafite ubushobozi bwo gukuramo umwanda, bikarinda amenyo kuba yarwara.

Indwara y'amenyo, ni imwe mu ndwara ikunze kwibasira abantu badakorera neza isuku mu kanwa habo bifashishije imiti yabugenewe mu gusukura mu kanwa, ndetse hari bimwe mu bikoresho byifashishwa kwa muganga igihe umuntu ufite ubwo burwayi bw'amenyo bagiye kumukura amenyo, twavuga nk'imikasi yabugenewe n'ibindi.

Icyumba cyiza gitatse neza gisa neza, ubona ko kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye umuganga yifashisha mu gihe agiye kwita ku murwayi ufite ikibazo cy'uburwayi bw'amenyo yifashisha ibikoresho...

Umurwayi wagiye kwa muganga kwisuzumisha indwara y'amenyo, ubona ko ari kuganira na muganga, amwereka uburyo ki amenyo ye yangiritsemo kugira ngo umuganga amufashe kumuvura uburwayi bwe bw'amenyo.

Bafite serivise nynshi zitandukanye z'ubuvuzi wavuga nk'ubuvuzi bw'amenyo cyangwa se gusimburirwa amenyo, mu gihe ubona ayo wari ufite afite ikibazo, izo zose ni serivisi zigenda zitangwa hirya no hino mu bitaro byo mu gihugu.

Umurwayi ufite ikibazo cy'amenyo ubona ko ari kwitabwaho n'umuganga, umuganga wambaye agapfukamunwa ndetse n'uturindantoki wifashishije kamwe mu gakoresho kifashishwa igihe umuganga ari gusuzuma uburwayi bw'amenyo.

Umubyeyi uri kumwe n'umwana we ubona ko bari mu gikorwa cyo gukorera isuka amenyo yabo mu rwego rwo kwirinda indwara ziterwa no kudakorera isuku mu kanwa hifashishwa bimwe mu bikoresho byabugenewe mu gusukura mu kanwa.

Iyo umurwayi arwaye amenyo agana abaganga, bakamufasha kumenya uko bakita ku kibazo cy'uburwayi bwe bw'amenyo, haba se kuyakura cyangwa se kuyasana bityo bikamufasha gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Umukecuru n'umuganga ubona ko bishimiye, umuganga ari gufasha umukecuru kuba yatambagira yifashishije akagare kabugenewe mu kwita abantu bafite ubumuga bw'ingenzi.

Umugore n'umugabo ubona ko bari muri siporo ntibishimye cyane mu rwego rwo gusigasira imibereho myiza y'ubuzima bwabo birinda kumugara zimwe mu ngingo bitewe no kudakora siporo.

Umubyeyi uteruye umwana ufite igikinisho ubona ko ari gukinisha umwana we, ni ngombwa ko umubyeyi wese akinana n'umwana we, mu rwego rwo gutuma umwana agira imitekerereze myiza ndetse agakurana urukundo rw'ababyeyi.

Yunisefu ni ikigo mpuzamahanga gitanga ubufasha n'ubutabazi ku bantu b'ingeri zitandukanye, bimwe mu bikorwa ikora hari ugufasha abafite ikibazo cy'ubumuga bw'ingingo, kubafasha kubona insimburangingo mu buryo bworoheje. Hano hari abagabo bafite utugare tugiye guhabwa abafite ubumuga bw'ingingo.

Umusaza abona ko yicaye yambaye igikoresho ku kaboko kifashishwa n'abaganga mu rwego rwo kugenzura uko umutima uri gutera kugira ngo hamenyekane niba afite ikibazo cy'uburwayi bwo gutera cyane ku mutima.

Ababyeyi b'abakecuru ubona ko bakenyeye imikenyero, bafite inkoni mu ntoki zabo, basokoje neza imisatsi, ubona ko inyuma yabo hari abantu babakurikiye, biragaragara ko bagiye mu misango y'ubukwe bwa kinyarwanda.

Abasaza n'abakecuru ubona ko bicaye ahantu imbere bambaye nk'abayisilamu ubona ko bicaye mu ntebe zegamirwa hari ababateze amatwi cyangwa se babakurikiye.

Umuganga uri kumwe n'umusaza, ubona ko umusaza arimo guseka cyane yishimiye ubufasha arimo guhabwa na muganga, ubona ko uwo muganga afite igikoresho kifashishwa mu gupima indwara zigiye zitandukanye, mu rwego rwo gusuzuma uko ubuzima bw'umusaza buhagaze.

Umusaza ukuze ubona ko ari kumwe n'umuganga uri kumufasha mu gutambuka atembera, amufashe mu kiganza, ubona ko afite ikibazo k'ingingo. Ni ngombwa ko dufasha abantu bose bafite ibibazo by'ingingo gukora siporo ngororamubiri.

Umusaza ubona ko ari mu nzu yagenewe kwita ku barwayi bafite ikibazo cy'ingingo, ari kumwe n'umuganga uri kumufasha gutambuka bifashishije utwuma yifashisha kugira ngo ahagarare.

Umubyeyi ubona ko ahahagaze, ari kumwe n'umusaza ari kugerageza kumukoresha ikizami ngo arebe uko ingingo ze zihagaze, mu rwego rwo gukomeza kwita ku buzima bw'uyu musaza.

Umuryango wicaye wishimye, urabona ko bari ari gukina umukino rwose mu rwego rwo kuruhura ubwonko bwabo kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe ndetse no gutekereza neza.

Ababyeyi babiri ubona ko bari kugenda, umwe afite igikapu mu mugongo n'ikindi ntoki, n'ikarita y'akazi ubona kari gufasha umubyeyi afite ikibazo cy'ingingo utambuka gake gake yifashishije bimwe mu byuma bimufasha guhagarara.

Abasaza batandukanye bicaye mu cyumba ubona ko bafite ikintu bari kuganiraho ku bigendanye n'imibereho yabo, umwe muri bo afite akebo arimo kuba yifashishije bimwe mu bimera bitandukanye.

Umusaza n'umuganga ubona ko bari mu cyumba, umusaza afite ikibazo cyo kutagenda neza, umuganga ari kumufasha gutambuka bifashishije utwuma dufasha umurwayi guhagarara neza.

Umuryango ubona ko wishimye, umusore uteruye isahani iriho umugati. Umukobwa kugerageza kumushyiriraraho imboga mu rwego rwo kurya ibiryo byujuje intungamubiri birimo imboga, imbuto ibitera imbaraga ndetse n'ibirinda indwara mu rwego rwo kugira ubuzima bwiza ndetse n'ubudahangarwa ku mubiri.

Umukecuru ubona ko ari imbere y'igitanda mu nzu y'abarwayi afashe icyuma cyabugenewe, gifasha abarwayi bafite intege nke guhagarara, wambaye umwenda bambika abarwayi.

Umusaza ubona ko ari kwitabwaho n'umukobwa, amufasha gufata imiti nk'uko yabyandikiwe na muganga, mu rwego rwo gukomeza kugira ubuzima bwiza, afata ndetse akurikiza inama agirwa na muganga.

Ababyeyi babiri ubona ko bari mu gikorwa cya siporo. Ni ingenzi cyane ku muntu wese ukora siporo kuko siporo idufasha kugira ubudahangarwa bw'umubiri ndetse tukirinda umubyibuho ukabije ushobora gutera indwara y'umutima, bityo umuntu ukora siporo ntashobora kurwara umuvuduko w'amaraso.

Umusaza n' umukecuru bicaye ubona umusaza ateruye igikombe cy'amazi, ubona ko bari kuganira .Ni byiza kunywa amazi meza ahagije mu mubiri kuko birinda indwara zimwe na zimwe ndetse bigaha umubiri ubudahangarwa bwo kurwanya indwara zitandukanye.

Ababyeyi bicaye ku meza, ubona ko bari gufata breakfast, ubona ko hari umuganga ubarimo hagati, ari kugenda abaganiriza ku ndyo bakwiye gufata kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza ndetse n'ubudahangarwa bw'umubiri.

Abantu babiri bari kuganira ubona ko ari umusaza uri kumwe n'umugore, umusaza afite telefone ari kugenda yereka umukobwa, amakuru agiye atandukanye, ari gusacinga ku ikoranabuhanga kuri telefone ye.

Umusaza n'umukecuru wicaye mu nzu, ubona ko imbere yabo ari igikombe, umusaza afite imiti mu ntoki, umukecuru ari kumwereka uburyo ki akwiye gufatamo iyo miti, hakurikijwe uko mugana yayimwandikiye.

Umubyeyi wicaye ubona ko ku meza ye hariho imiti igiye itandukanye, ari gufata imiti mu rwego rwo kurwanya indwara akurikiza uko yabitegetswe na muganga.

Umukecuru ubona ko yicaye hasi, iruruhande rwe hari ibyatsi bigiye bitandukanye byumye, ubona ko ari gutekera ku gasozi, ibintu bishobora gutera inkongi y'umuriro, bityo akangiza ibidukikije. Ni ngombwa kubungabunga urusobe rw'ibidukikije, mu rwego rwo gukomeza kugira ubuzima bwiza ,twiririnda kwanduza umwuka duhumeka.

Umuryango wishimye ubona ko bari guseka rwose bicaye imbere y'ameza bigaragara ko barimo barafungura, ni ngombwa ko mugihe dufungura twibanda ku ndyo yuzuye mu rwego rwo gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Umuntu ubona ko ari gukina umukino ukunze gukinwa n'abantu bazi kwita ku mikino cyane uzwi ku izina ry'igisoro; ubona ko yishimiye gukina uyu mukino, ni ngombwa gukina kuko biturinda siteresi ndetse bikaduha kugira ubudahangarwa bw'ubuzima bwo mu mutwe, binyuze mu gutekereza neza.

Umubyeyi uri mu kagare k'ababana n'ubumuga uri kwitabwaho n'umuganga yifashishije igikoresho cyabugenewe mu gupima umurwayi ufite umuvuduko w'amaraso kugira ngo umukecuru amenye uko ubuzima bwe buhagaze.

Umukecuru n'umusaza ubona ko umukecuru ari gufasha umusaza gufata imiti amuha amazi meza asukuye yo gufasha umusaza gufata imiti neza.

Umuryango ubona ko wicaye mu rugo, imbere yabo hari ameza ariho agacupa karimo imiti, umukecuru ari kugerageza gusobanurira umusaza uko akwiye gufata imiti hakurikijwe uko muganga yabibabwiye.

Ababyeyi bishimye ubona ko bari mu gikorwa cya siporo, ubona ko umukecuru uri imbere yabo yishimye ateruye akuma kabugenewe mu kurambura ingingo z'umuntu ndetse kakaba gakomeza n'imikaya y'umuntu.

Umukecuru n'umusaza ubona ko bicaye mu rugo, imbere yabo hari ikirahuri kirimo amazi ndetse n'agacupa karimo imiti, umukecuru ari kugerageza gusobanurira umusaza uko akwiye gufata imiti akurikije uko muganga yabimwandikiye.

Abagabo babiri bishimye ubona ko abari muri siporo, buri wese afite icupa ry'amazi mu rwego rwo gukomeza gusigasira ubuzima bwiza birinda gukora siporo zinaniza umubiri ndetse banywa amazi kugira ngo umubiri wabo utananirwa bitewe nuko umuntu ukora siporo asohora amazi menshi mu mubiri. Ni ngombwa kunywa amazi menshi igihe uri gukora siporo.

Umukecuru ufite ikirahuri mu ntoki kirimo amazi meza asukuye ari kuganira n'umuganga, ari kumufasha gufata imiti uko bikwiye kugira ngo hitabwe ku buzima bwe bityo abashe gukira uburwayi.

Umusaza ubona ko ari mu bitaro rwose inyuma ye hari umuganga uri kumufasha gukora siporo zimwe na zimwe zo kunanura amaguru, mu rwego rwo kwirinda ko imitsi ye ishobora kugira ikibazo bitewe no kutagenda, ndetse ari kumufasha gutambuka hifashishijwe bimwe mu byuma bimuri iruhande.

Umusaza n'umukecuru ubona ko bafatanye ku rutugu n'umufasha we, bishimye cyane ubona ko nta kibazo bafite. Ni byiza cyane kubana mu mahoro, kuko birinda ibyago byinshi byo kuba habaho intonganya mu muryango bityo hakaduka amakimbirane mu miryango.

Umusaza ubona wicaye afite inkoni mu kiganza cye, ari kuganirizwa n'umugore uri guseka wambaye umwenda w'akazi, ufite n'ikarita y'akazi ku mufuka, arimo amugira inama y'icyo yakora mu rwego rwo gukomeza gusigasira ubuzima bwiza afite.

Umusaza n'umukecuru ubona ko bibereye mu rugo, umusaza afite agacupa karimo imiti ari kwereka umugore we uburyo ki muganga yamubwiye gufata iyo miti mu rwego rwo kwivura indwara zitandukanye.

Ikimenyetso kigaragaza ko bamaganye uburwayi bwa kanseri mu baturage ndetse batanga ubukangurambaga hirya no hino bwo kurwanya kanseri bafasha abarwayi ba kanseri kubona imiti iborohereza...

Abagabo bahagaze ubona ko bambaye amakarita y'akazi, biganjemo abirabura n'abazungu, ubona ko bose bakora ku nzego z'ubuzima, bashinzwe kwita ku barwayi bagenda babagana.

Umugore n'umugabo ubona ko bahagaze, buri wese afite ikarita y'akazi bigaragara ko bakora mu nzego z'ubuzima, bita ku baturage ndetse n'abarwayi bafite indwara zigiye zitandukanye.

Hirya no hino hagenda hatangwa amahugurwa ndetse n'inyigisho zishinzwe kwigisha uko indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina zandura, ndetse bakagirwa inama yo kwirinda hakoreshejwe udukingirizo, n'ubundi buryo bwose bwashyizweho mu rwego rwo kwirinda indwara ziterwa n'imibonano mpuzabitsina idakingiye.

Igihe hagaragaye icyorezo hashyirwaho gahunda yo gutanga urukingo, mu rwego rwo kugabanya ubukana bw'icyo cyorezo kugira ngo kidatwara umubare munini w'abaturage banze gufata urukingo.

Hashyizweho umunsi mpuzamahanga wo kurwanya indwara ya diyabete ku Isi hose, biragaragara ko ari umwana ubona ko yegereye inyubako iri mu Rwanda yitwa Komvesheni, hagaragazwa uburyo ki Leta y'u Rwanda ishyira imbaraga mu kurwanya indwara ya diyabete binyuze mu gikorwa cy'ubuganga.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima ndetse na minisiteri ishinzwe ubuzima, gifata ingamba zigiye zitandukanye, hibandwa ku buryo hakwiye gushorwa amafaranga mu buvuzi mu rwego rwo kugabanya umubare munini uterwa n'imfu zo kuburira imiti ku gihe.

Abantu benshi batandukanye biganjemo abagore n'abagabo, ubona ko abari imbere bicaye, ababakurikiye bakaba bahagaze mu rwego rwo kugira ngo bafate ifoto nyuma yuko bamaze kugira inama yiya ku mibereho myiza y'abaturage ndetse n'icyakorwa kugira ngo hatezwe imbere ubuvuzi muri Afurika.

Mico The Best, umuhanzi Nyarwanda wamenyekanye cyane mu bihangano bye byinshi bitandukanye, ari kumwe n'umugore, bafite icyapa mu ntoki kirimo gushishikariza abaturage kwisuzumisha indwara y'igituntu kugira ngo bibafashe kugira ubuzima bwiza.

Icyumba kinini giteguye neza kirimo intebe z'umweru, ubona ko harimo urubyiruko rwitabiriye amahugurwa agendanye n'imiyoborere ndetse n'imikorere y'ubuzima, ubona ko bari kuganirizwa n'umukobwa uri imbere yabo ufite mikoro, ari kubaganiriza ku buzima bw'imyororokere.

Umubyeyi uhagaze imbere y'imbaga ufite igikoresho cyifashishwa mu gusakaza amajwi, uhagaze imbere y'abaturage uri kubaganiriza ku buzima ndetse n'uburyo ki abantu bakwiye kwirinda indwara z'ibyorezo zitandukanye.

Umukecuru ubona ko ari kwa muganga, ari kwitabwaho n'abaganga, ubona ko afite ikibazo cy'ijisho ukurikije uko ku jisho rye hariho igipfuko. Mu gihe umuntu wese afite ikibazo cy'amaso akwiye kugana inzego z'ubuvuzi, bakamuha ubufasha hakurikijwe uburemere bw'uburwayi bwe.

Inyuguti ebyiri, inyuguti ya H ubona hagati harimo abantu babiri bafatanye mu kiganza, inyuma yaho hakaba hari inyuguti ya R, bivuze healthy people Rwanda bishatse kuvuga ati ''Ubuzima bwiza ku baturage b'u Rwanda.''

Mu gihe umuntu afite ikibazo cy'uburwayi ubwo ari bwo bwose, agana inzego z'ubuzima bakamufasha kumuha imiti imufasha ndetse n'ubujyanama kuri iyo ndwara, twavuga nk'ubujyanama ku bafite indwara y'ubuzima bwo mu mutwe, abana n'ubumuga ndetse n'izindi ndwara zigiye zitandukanye.

Inzego z'ubuzima ni hamwe dushobora gukura amakuru yizewe ku bigendanye n'ubuzima bwacu mu rwego rwo kwirinda zimwe mu ndwara zishamikiye ku myororokere ya muntu. Aho twavuga nk'igihe umuntu adafite amakuru ku ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, ashobora kwegera abajyanama b'ubuzima ndetse bakamugira inama.

Umugabo n'umugore ubona ko bafite bimwe mu bikoresho byabugenewe byo kurwanya umwanda, hibandwa mu gukusanya imyanda itandukanye bityo igashyirwa hamwe mu rwego rwo kuyikura ku gasozi no kwirinda umwanda ukabije, bagafata ibibora bakabishyira ukwabyo ndetse n'imyanda itabora bakayishyira ukwayo.

Umubyeyi wicaye ku gatebe ubona ko iruhande rwe hari umuganga uri kumupima ibizamini amutera urushinge, kugira ngo amaraso ye yifashishwe mu kugaragaza uburwayi afite mu mubiri we.

Powering Healthcare in Rwanda, ni gahunda yashyizweho ishingiye ku guteza imbere ubuvuzi bwegerezwa abaturage hibandwa ku baganga b'inzobere babyigiye, bafite ubushobozi bwo kwita ku barwayi batandukanye.

Umugabo ubona ko ahagaze imbere y'abandi, afite mikoro, ari gutanga imbwiruhame, ubona ko imbere ye hari kamera iri kugenda ifata amashusho.

Umwana ubona ko akiri muto, umaze umunsi avutse, ubona ko afurebye neza mu rwego rwo kumurinda ubukonje ndetse ubona ko akwiye guhabwa bimwe mu by'ibanze kugira ngo abashe kubaho.

Hirya no hino mu gihugu hagenda hatangwa ubukangurambaga ku ndwara zigiye zitandukanye ni mur, urwo rwego nk'urubyiruko hashyizweho gahunda yo kuganirizwa ku ndwara zimwe na zimwe zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye mu rwego rwo kurwanya sida n'izindi nda zitateganyijwe.

Hari gahunda yashyizweho na Leta yo gukingira abana bose, bari mu kigero cy'imyaka itanu kumanura hasi, urukingo rwa kanseri y'inkondo y'umura, mu rwego rwo kugabanya umubare munini w'imfu ziterwa na kanseri.

Abaganga bari mu cyumba bose bambaye imyenda yabugenewe, ni ukuvuga uturindantoki, udupfukamunwa n'indi myenda bifashisha mu gihe bagiye kubaga umurwayi kugira ngo hirindwe impanuka zishobora kubera mu gikorwa cyo kubaga umurwayi.

Abagabo babiri bambaye amakote basa neza, ubona ko bafite ibyangombwa mu ntoki bigaragaza ko bakora mu nzego z'ubuzima mu kigo gishinzwe ubuzima arabisi.

Monkeypox Virus. Ni urukingo rwagenewe kuvura abantu bafite indwara y'icyorezo yamenyekanye ku izina rya Mopox mu rwego rwo kurwanya impfu nini ziterwa n'iki cyorezo.

Tariki zirindwi, kugera kuri tariki umunani z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu, hateganyijwe gahunda yo gusuzuma kanseri ku bagore bose, ndetse ku nkunga y'ubufatanye bw'Igihugu cya Canada.

Hashyizweho umunsi mpuzamahanga wo kwita ku rusobe n'ibinyabuzima, muri rusange wo kwita ku bidukikije mu rwego rwo kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima ndetse n'ibimera kugira ngo bitazazima ku Isi.

Hirya no hino mu gihugu, ugenda uhasanga ibigo bitandukanye bitanga serivisi z'ubuzima, haba ibya Leta cyangwa se iby'abikorera bizwi nka farumasi, byifashishwa mu gufasha abarwayi bafite uburwayi butandukanye kubona imiti ibafasha gukira uburwayi butandukanye.

Umuganga uri mu cyumba ubona ko ibyumba byagenewe kwakira abarwayi ukurikije ibikoresho birimo nk'ibitanda, matera ndetse n'ibindi byose byifashishwa mu kwita ku barwayi barwariye mu bitaro.

Umuganga wicaye mu cyumba cye ubona ko imbere ye afite imashini ari gukora akazi imbere nanone hakaba hari indi mashini nini iri kugaragaza igice cy'umuntu bigaragara ko ari umurwayi bari kunyuza mu cyuma mu rwego rwo kureba uko ubuzima bwe buhagaze.

Icyumba kimeze neza kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa igihe umuganga yakiriye umurwayi, agashaka kumenya uko umurwayi amerewe yifashisha bimwe muri ibi bikoresho mu rwego rwo kumusuzuma ngo hamenyekane neza uburwayi afite.

Farumasi irimo utubati, ndetse na etajeri irimo imiti myinshi, igiye itandukanye, ubona ko imbere ku meza, hari imashini yifashishwa mu kwandikwamo amakuru y'umurwayi, kugira ngo haboneke ibizamini, babone kumuha imiti igendanye n'uburwayi bwe.

Bimwe mu bikoresho byifashishwa kwa muganga by'ingenzi harimo imashini ipima uko umutima w'umuntu uri gutera ndetse n'igitanda kifashishwa mu gusuzuma umurwayi mu gihe afite ikibazo cyo kudahagarara ndetse hakifashishwa n'amatara yabugenewe afasha umuganga kureba neza uburwayi.

Ahantu hameze neza hatatse neza ubona ko harimo indabo, intebe zisa neza, ameza ateguye neza ubona ko ari ahantu hagenewe kwakira abashyitsi.

Umunyonzi utwaye umukobwa ku igare, ubona ko bari kugana ku kigo nderabuzima cya Gisenyi, mu rwego rwo kwisuzumisha ngo hamenyekane uburwayi umurwayi arwaye, ni ngombwa ko igihe cyose umuntu yumva atameze neza agana inzego z'ubuvuzi.

Icyumba kirimo abaganga n'abarwayi ubonako bari muri gahunda yo gupima abarwayi bumwe mu burwayi bugenda bugaragara hirya no hino, ni ngombwa ko igihe cyose umuntu yumva atameze neza akwiye kugana inzego z'ubuvuzi kugira ngo yitabwe ku kibazo cy'uburwayi afite.

Mu bitaro hashyizweho gahunda yo kwita ku barwayi bafite ikibazo cy'amaso mu kubabonera ibikoresho bizajya bibafasha kureba twavuga nk'amataratara yabugenewe afite umuti ubafasha kuvura amaso ndetse ukabafasha no kubona ibintu bitandukanye.

Umurwayi uryamye ku gatanda k'abarwayi, mu cyumba kirimo imashini nyinshi zitandukanye, zifashishwa igihe umurwayi agiye kubagwa kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Ibitaro by'Akarere ka Nyarugenge, ni imwe mu nyubako ifite ibikoresho bihagije byita ku barwayi, ndetse ikagira n'abaganga b'inzobere bakora umunsi ku wundi, bakira abarwayi babagana.

Umurwayi wicaye ku gatebe, ubona ko iruhande rwe hari umugabo uhagaze wambaye itaburiya ndetse n'ikarita y'akazi uri kumutera urushinge ku kuboko kwe, mu rwego rwo kumuha urukingo rw'indwara.

Ikigo kinini cyubatse neza, gifite ubusitani, kikagira aho baparika amamodoka, gifite serivisi z'ubuvuzi zitandukanye abarwayi bajyanwa bakitabwaho n'inzobere z'abaganga.

Hirya no hino kuri buri bitaro bigiye biba hirya no hino mu gihugu, hagiye hashyirwaho icyumba bihariye kizajya cyita ku babyeyi batwite, mu gihe umubyeyi utwite ageze ku bitaro ashyikirizwa mu cyumba cy'ababyeyi, aho yitabwaho n'abaganga b'inzobere bakamufasha kubyara neza nta kibazo agize.

Umubyeyi urwaye, uryamye ku gitanda cy'abarwayi, ubona ko iruhande rwe hari abaganga babiri bari kumusuzuma, bareba uko ubuzima bwe buhagaze, hejuru ye hari supanete yifashishwa mu kurwanya umubu utera Malariya.

Icyumba cyiza kigezweho kirimo ibikoresho byabugenewe byifashishwa igihe umuntu ari gukora siporo, harimo ibyuma baterura, imashini zishinzwe gufasha umuntu kwirukanka, byose bigamije guha ubushobozi umubiri w'umuntu, ubudahangarwa bwo kurwanya indwara zitandukanye.

Icyumba kinini cyiza kirimo intebe zitandukanye, ubona ko abantu bari guhabwa serivisi mu rwego rwo kwita ku mibereho myiza ndetse n'ubuzima bwabo, bagana serivisi z'ubuzima.

Inyubako nini cyane igezweho ubona ko imbere yayo haparitse imodoka, inyubako yifashishwa mu kwita ku barwayi, urabona ko ari ibitaro bigezweho umurwayi wese ashobora kuza kwivurizamo.

Icyumba gisa neza giteguye, kirimo intebe bigaragara ko ari ahantu hahurira abantu benshi, bakaganirizwa byinshi ku byo bakora kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Icyumba kiza, giteguye neza kirimo ibikoresho bigezweho, byifashishwa mu gupima zimwe mu ndwara z'amaso bityo abantu bose bafite ikibazo cy'amaso bakajya kwa muganga, bakabasuzuma bifashishije zino mashini kugira ngo hitabwe ku buzima bwabo bw'amaso.

Abaturage bitabiriye inama bigishwa uko bakita ku mibereho yabo ndetse n'uko bakwiye kwirinda indwara zigiye zitandukanye, baganirizwa ku bimenyetso bimwe na bimwe bigaragaza indwara zitandukanye zikunze kugaragara hirya no hino ndetse n'icyo bakwiye gukora mu gihe babonye umuntu ufite ibyo bimenyetso.

Ahantu hakeye ubona ko izuba ryavuye, hari ubusitani bwiza butoshye, ubona ko inyubako ihari imeze neza, isa neza, yagenewe gutanga serivisi z'ubuzima, harimo ibikoresho byifashishwa mu kwita ku barwayi ndetse n'abaganga b'inzobere.

Inyubako icyeye ubona ko ifite ubusitani bwiza, ubona ko hari umugabo uri kuhanyura wambaye imyenda ikunze kwambarwa na bamwe mu nzego z'umutekano.

Muganga uri kwita ku murwayi amunyuza mu mashini yabugenewe, ishinzwe kureba imbere mu mubiri w'umuntu, kugira ngo hamenyekane ikibazo cy'uburwayi afite, bityo yitabweho.

Umugabo n'umugore ubona ko bari mu cyumba kirwariyemo abarwayi bagiye batandukanye, bari gukora isuku muri icyo cyumba bifashishije bimwe mu bikoresho byabugenewe mu gukora isuku, twavuga nk'amazi, isabune ndetse n'umweyo.

Icyumba cyagenewe kwakira abarwayi baganye ivuriro, mu gihe bagitegereje kwakirwa n'umuganga mu gihe umuganga ari kumwe n'undi murwayi, umurwayi wundi aba ategerereje hanze, yamara kwita ku wundi akabona ubwinjira na we agahabwa serivisi.

Icyumba kiza kinini kirimo ibikoresho byifashishwa mu gukora siporo zigiye zitandukanye z'umubiri, mu gihe umuntu afite ikibazo cy'ingingo akwiye kujya akora siporo gake gake ibifasha umubiri we kongera gukora neza.

Icyumba gisa neza ubona ko hatuje, harimo imiryango itandukanye, ubona ko ari ahantu hagenewe kwakira abarwayi bikurikije uko abarwayi baje, buri cyumba usangamo umuganga ugufasha akakugira inama cyangwa se akaguha imiti igufasha mu burwayi bwawe.

Buri kigo nderabuzima cyangwa se buri vuriro bagira icyumba gikorerwamo ubushakashatsi ku bizamini biba byafashwe ku barwayi batandukanye mu rwego rwo kugaragaza zimwe mu ndwara abarwayi baba bafite.

Abantu bateraniye mu cyumba, ubona ko bari kuganirizwa n'umugabo ubahagaze imbere. Wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru, abaganiriza ku ndwara ya Malariya, hagamijwe gushakira hamwe igisubizo cy'uko Malariya yacika mu baturage.

Inzu yahariwe ibikorwa byo kwita ku babyeyi batwite, igihe umubyeyi aje kwa muganga aje kubyara, ashyirwa mu nyubako yihariye yagenewe kwita ku bagore batwite, irimo ibikoresho byifashishwa mu kubyara umubyeyi kugira ngo yitabwe ku buzima bwe, n'ubw'umwana agiye kubyara.

Inyubako nziza cyane ikeye, ubona ko yagenewe ibikorwa by'ubuvuzi, ishinzwe kwita ku barwayi igihe umuntu afite indwara, akaba yagezwa aha kuri iki kigo agahura n'abaganga b'inzobere bakita ku buzima bwe.

Muri buri vuriro haba hari icyumba kiba kirimo umuganga umurwayi yinjira akaganira n'umuganga asanzemo akamugira inama, ndetse ya byaba ngombwa akamuha n'imiti imufasha kuvura ubwo burwayi.

Umubyeyi ubona ko amaze kubyara ateruye umwana we, yamufurebye neza ari kumwe n'umuganga, ni byiza kwita ku buzima bw'uruhinja bamwambika imyenda ishyuha kuko aba ataragira ubushobozi bwo guhangana n'ubukonje bwo ku isi.

Ibyuma byabugenewe mu gusuzuma uburwayi buba buri imbere mu mubiri w'umuntu, umurwayi yicazwaho ubundi kigatanga ishusho y'uko ingingo z'umurwayi zangiritse.

Inyubako yagenewe kwakira abarwayi, ubona ko ikeye isa neza isukuye ,ubona ko ifite ibyumba bigiye bitandukanye bikoreshwa n'abaganga ndetse n'abarwayi.

Umuganga uri mu cyumba ubona ko imbere ye hari imashini yifashisha mu kazi ke, mu gihe ari gufata ibizamini abarwayi bagiye batandukanye, ndetse akababaza uko bababara, mu rwego rwo kumenya imiti iri bubafashe gukira uburwayi bwabo.

Ubusitani bwiza ubona ko buteyemo ibyatsi ndetse buzitiye neza, burimo ibikoresho byifashishwa mu kwishimisha, bifasha abana kuruhura mu bwonko mu gihe bumva bananiwe baza bakabijyaho bagasunikana, bagakina bakishima.

Inyubako nziza kandi icyeye igezweho, igeretse kabiri yagenewe ibikorwa by'ubuvuzi ubona ko abantu bayihagaze imbere ndetse ubusitani bwayo hakaba haparitsemo imodoka.

Icyumba cyiza kinini giteguye neza ubona ko hatashemo amatapi yifashishwa mu bikorwa bya siporo ngororamubiri, igihe hari abarwayi bafite ikibazo cy'ubumuga cyangwa se ikibazo cy'ingingo zidakora neza bashobora gushyirwa muri iki cyumba bagatorezwamo siporo ngororamubiri zibafasha kugorora ingingo zabo.

Ibitaro byagenewe kwita ku barwayi b'amaso, bahabwa serivisi z'ubuvuzi bw'amaso, bapimwa ndetse bakaba bahabwa n'amarinete abafasha kureba bityo bikabafasha gukomeza gahunda zabo zitandukanye.

Icyumba cyiza kinini kirimo amatara, cyubatse neza kigizwe n'utubati tugiye dutandukanye, twifashishwa mu kubika imiti mu rwego rwo kurinda ubuziranenge bw'imiti kugira ngo izahabwe abarwayi igifite ubuziranenge.

Abaganga bateraniye mu cyumba kirimo gikorerwamo isuzuma ry'ibizamini by'umurwayi kugira ngo bafatire hamwe umwanzuro w'imiti ikwiye guhabwa umurwayi mu gihe afite uburwayi runaka.

Inyubako y'ubuvuzi ubona ko irimo imashini zifashishwa mu kwita ku barwayi, igihe umurwayi ari gukorerwa igikorwa cyo kumubaga hifashishwa zimwe muri izi mashini kugira ngo umurwayi yitabweho mu buryo bukwiye.

Ahantu hateraniye abantu benshi, ubona ko bari guhabwa serivisi z'ubuzima, bari kugenda ku murongo, uko bakurikirana, ubona ko bari kwita ku murwayi ufite ubumuga bw'ingingo uri mu kagare, gahabwa abantu bafite ikibazo cy'ingingo.

Icyumba cyiza giteguye neza, cyagenewe kwita ku barwayi bafite uburwayi bw'ubuhumyi, ubona ko harimo bimwe mu bikoresho bihabwa umuntu ufite ikibazo cyo kutareba, twavuga nk'amataratara amufasha kureba ndetse n'iyi imiti imufasha kuvura amaso yiwe kugira ngo yongere kubona neza.

Inyubako nini kandi nziza, yagenewe ibikorwa by'ubuvuzi, byita ku barwayi, ifite ibikoresho byinshi kandi bitandukanye, bifasha abarwayi bagiye babigana, ubona ko imbere yayo hari umukobwa waje gufata serivisi z'ubuzima.

Imashini yifashishwa igihe umurwayi afite indwara z'imbere mu mubiri, abasha kunyuzwa muri iyi mashini, ikerekana uko ingingo ze zihagaze imbere.

Farumasi ni bimwe mu bigo byashyizweho hirya no hino bitanga serivisi z'ubuzima, ziba zirimo imiti, gusuzuma abarwayi ndetse no gutanga ubujyanama ku buzima, hagamijwe kwimakaza ubuzima buzira umuze.

Umurwayi ufite ikibazo k'ingingo n'amaguru, uri mu kagare kagenewe gufasha, abantu bose bafite ubumuga bwo kutagenda, kamufasha kugenda ndetse kamufasha mu buzima bwe bwa buri munsi.

Icyumba kirimo abarwayi bagiye batandukanye, ubona ko kirimo ibikoresho byifashishwa mu kwita ku barwayi, twavuga n'imashini zifasha abafite ikibazo cyo guhumeka, bikabafasha guhumeka ndetse zikaba zatuma umurwayi yongera kugira ubuzima bwiza.

Urujya n'uruza rw'abantu bateraniye ku bitaro, bagiye gushaka serivisi, ubona ko higanjeyo urubyiruko ndetse n'abanyeshuri, bagiye guhabwa serivisi z'ubujyanama ku buzima bw'imyororokere, ndetse n'icyo bakwiye gukora mu rwego rwo kwirinda indwara ziterwa n'imibonano mpuzabitsina idakingiye.

Umuganga uri mu cyumba kiza gitatse neza kirimo utubati, ameza, ndetse n'imashini zabugenewe mu gusuzuma ibizamini umurwayi aba yatanze kugira ngo hamenyekane uburwayi afite.

Inyubako nini ubona ko ari inyubako igezweho, iriho icyapa kigaragaza ko ari kuri RBC, Ikigo Gishinzwe Ubuzima mu gihugu, ubona ko hari abantu bagiye batandukanye, imbere yaho hakaba haparitse amamodoka na yo agiye atandukanye.

Icyumba kigaragara ko gikeye hari ibiro ndetse n'aho bakirira abarwayi mu gihe baje ku bitaro bagahabwa serivisi z'ubuzima zibafasha gukira indwara baba barwaye.

Kigina herifu senta kimwe mu kigo nderabuzima cyashyiriweho abaturage kugira ngo cyite ku mibereho myiza umuturage wese ufite ibibazo bigendanye n'ubuzima, akigane ahure n'abaganga babashe kuba basuzuma uburwayi afite ndetse bamuhe n'imiti imufasha gukira ubwo burwayi.

Icyumba kinini giteguye neza, ubona ko imbere hari aho umuntu ashobora guhagarara, akaba yaganiriza imbaga nyamwinshi ikamwumva neza, harimo intebe ziteye neza ku buryo hakorerwamo inama y'abantu benshi.

Icyumba cyiza gisa neza ubona ko kirimo ibikoresho byifashishwa mu kwita ku barwayi, twavuga ibitanda biririmo amamatera ndetse n'inzitiramibu zibafasha kwirinda umubu utera malariya.

Kuri buri bitaro ndetse na buri kigo nderabuzima hashyirwa inzu y'umwihariko, inzu izwi kwita ku babyeyi cyangwa se yitwa inzu y'ababyeyi, yifashishwa mu kwita ku babyeyi batwite, igihe baje kwa muganga bakeneye guhabwa serivisi zo kubyara bakitabwaho n'abaganga babizobereye.

Inyubako nziza ikeye ubona ko akazuba karimo karava, ifite ubusitani, inyubako irimo ibikoresho byinshi bihagije kandi bigezweho mu kwita ku barwayi bagiye batandukanye.

Inyubako nziza isa neza, ubona ko ari nshyshya, iruhande rwayo hateye ubusitani burimo indabyo ndetse yagenewe kwakira abarwayi, ikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi.

Icyumba cyiza, giteguye neza, ubona ko cyagenewe kwakira abarwayi ukurikije ibitanda birimo ndetse hejuru ya buri gitanda hakaba hari, supanete yifashishwa mu kurinda umubu utera malariya.

Icyumba kinini gisa neza, ubona ko kirimo ibitanda bifite amapine yifashishwa mu gihe umurwayi bagiye kumwimura bamujyana mu kindi cyumba, bidasabye kumuterura, n'imashini zifashishwa mu gupima uko ubuzima bw'umurwayi buhagaze, ya muganga ari gusuzuma umurwayi.

Hamwe mu hantu hateguriwe kwakira abarwayi bagana ibitaro baje gushaka serivisi z'ubuzima aho umurwayi abanza kubazwa bimwe mu byangombwa bimwemerera kwivuza twavuga nk'ubwisungane mu kwivuza cyangwa se ubundi bwishingizi buzwi nka Rama.

Ahantu hatuje, hari igiti kinini cyane ubona ko hari umuntu wicaye munsi icyo giti yikinze izuba bigaragara ko ari kimwe mu bifasha abantu mu kubona umwuka mwiza bahumeka kandi uhagije.

Icyumba cyiza giteguye neza kirimo ibikoresho byifashishwa mu gukora siporo ngororamubiri n'indi mikino yose ifasha umuntu kugira ubuzima bwiza, harimo imipira, ibyuma byabugenewe byifashishwa mu kwiruka ndetse n'ibindi.

Icyumba cyiza giteguye neza, kirimo amaraso yagiye afatwa abaturage agiye aba mu byiciro hakurikijwe ubwoko bw'amaraso kugira ngo atazivanga mu gihe bashatse guha amaraso umurwayi.

Icyumba kirimo imiti igiye itandukanye ipanze neza yabugenewe, ihabwa umurwayi igihe yayandikiwe na muganga, iyi miti ibitse neza ku buryo ifite ubuziranenge, mu rwego rwo kuyisigasira kugira ngo itazangirika.

Icyumba cyiza kirimo ibikoresho bigezweho byifashishwa mu gusuzuma umurwayi, haba mu gusuzuma indwara ziri imbere mu ngingo, mu mubiri we ndetse hari igitanda aryamishwaho mu gihe bari kumukorera isuzuma.

Icyumba gikoze neza kirimo ibitanda biteye mu buryo bugiye butandukanye, mu rwego rwo gufasha umurwayi wese kugira aho abarizwa ndetse no kwitabwaho mu buryo bw'umwihariko.

Icyumba kinini gisa neza, ubona ko kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu kwita ku barwayi, icyumba cyagenewe gusuzuma niba umurwayi afite ikibazo cy'ingingo, bamukoresha siporo ngorora mubiri.

Inyubako nziza igaragara neza igeretse, ubona ko bacanye amatara, biragaragara ko ari mu gihe cy'umugoroba, ubona ko abaturage bari hanze yayo barwaje abarwayi, ubona ko hari ubusitani bwiza cyane ari inyubako ikomeye kandi nini cyane, yakira abarwayi batandukanye.

Inyubako nini y'ibitaro by'Akarere ka Nyarugenge ubona ko ifite ubusitani bwiza cyane, inyubako ifite ibikoresho bigezweho byifashishwa mu gusuzuma indwara nyinshi zigiye zitandukanye ndetse itanga serivise ku bayigana bose bafite ikibazo cy'ubuzima.

Icyumba kiza kinini kirimo akabati kanini gateze neza mu rwego rwo gusigasira imiti ibitsemo, kugira ngo idata ubuziranenge bityo ikazahabwa abarwayi ifite ikiibazo.

Umubyeyi wicaye uteruye uruhinja ubona ko hari umuganga wambaye ibikoresho byabugenewe mu kazi k'ubuganga ari kwita kuri uyu mwana amuha urukingo mu rwego rwo kumurinda indwara zifata abana bato ndetse no mu rwego rwo kurwanya impfu z'abana bakiri bato bazize indwara zitandukanye.

Abantu ubona ko bari kugenda bagana ikigo cy'ubuzima mu rwego rwo kujya gukurikirana uko ubuzima bwabo buhagaze ndetse bagirwe n'inama zitandukanye ku buzima bwabo mu rwego rwo kubungabunga ubuzima bwabo.

Icyumba giteguye neza cy'ububiko, cyateganyirijwe kubika imiti kugira ngo habungwabungwe ubuziranenge bw'imiti, ihabwa abaturage kugira ngo imiti itanzwe itagira ingaruka ku bayihawe bitewe n'uko idafite ubuziranenge.

Icyumba gisa neza ubona ko gikorewe isuku, harimo ibikoresho byagenewe kwita ku barwayi barwariye mu bitaro, harimo ibitanda ndetse n'imashini zicomekwa abarwayi, kugira ngo hagaragazwe niba umurwayi akiri gutera akuka, ndetse bagaragaze ko umutima w'umurwayi uri gutera.

Ibyumba byaragenewe kubika bimwe mu bikoresho bihabwa abarwayi bafite ikibazo cyo kutabona, twavuga nk' amarinete aba arimo umuti afasha umuntu ufite ikibazo cy'amaso kureba cyangwa se umuntu ufite amaso amurya bikamufasha kugabanya ububabare.

Ibitaro byitiriwe umwami fayizari ni bimwe mu bitaro bikomeye mu gihugu bifite ibikoresho bigiye bitandukanye bivura indwara nyinshi zitandukanye ziba zifite ubukana, bitewe n'uko iki kigo kibamo abavuzi b'inzobere ndetse n'ibikoresho byiza kandi bigezweho bishoboye.

Icyumba cyiza kandi kinini kigizwe n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye, byifashishwa kwa muganga mu rwego rwo kuvura indwara zigiye zitandukanye, haba izigaragarira inyuma cyangwa se indwara ziba ziri imbere mu mubiri umuntu atabasha kubonesha amaso.

Inzu yagenewe gukorerwamo ubushakashatsi ku ndwara ya malariya hibandwa kugaragaza umubare munini w'abarwayi ba malariya ndetse n'ubujyanama ku bantu bagize ikibazo cyo kurwara indwara ya malariya, hatangwa supanete zifashishwa mu kurinda imibu ikwirakwiza agakoko ka malariya.

Kabgayi hospital, ni ibitaro usanga bifite abavuzi b'inzobere, bashinzwe kwita ku barwayi bafite indwara, bijyiye bitandukanye, bakaba bafite ibikoresho bigezweho byifashishwa mu kwita ku burwayi ndetse no kugaragaza ibizamini biba byafashwe umurwayi.

Bumwe mu bufasha buhabwa abantu bafite ubumuga bugiye butandukanye, harimo insimburangingo bashobora kwandikirwa n'umuganga, zizajya zibafasha kugenda cyangwa se gukora ibindi bikorwa bitandukanye.

Umugabo uhagaze wambaye ekuteri ubona ko ari muri siporo ari kunywa amazi ni byiza kwibuka kunywa amazi asukuye hifashishijwe imiti yabugenewe mu gusukura amazi cyangwa se mbere yuko uyanywa ukabanza ukayateka.

Ahantu hateguye neza hari ibintu bitandukanye imbuto ziganjemo amaronji, pome, imboga ndetse n'ikirahure kirimo umutobe, ku ruhande hakaba hari ibyuma byifashishwa mu gukora siporo babiterura mu rwego rwo kurambura ingingo.

Ni ngombwa kunywa amazi menshi ahagije kandi asukuye, hifashishijwe imiti yabugenewe ndetse ukayanywa mu gihe cyose wumva uyashaka kandi ni ngombwa kuyanywa uvuye mu gikorwa cya siporo kuko umuntu aba yatakaje amazi menshi.

Imbago cyangwa se insimburangingo ikoreshwa n'umuntu wese ufite ikibazo cy'ingingo udatambuka neza, ayifashisha arimo agenda mu rwego rwo kumufasha gukomeza ubuzima bwe bwa buri munsi.

Umugabo ubona ko yari ari muri siporo, akaba ari kuruhuka apfukamye; ukundi kuguru kwe gushinze yagufatishije ibiganza bye, ubona ko bigaragara ko afite ibibazo mu ivi rye akwiye kwitabwaho n'abaganga.

Imiti igiye itandukanye ndetse n'inshinge ubona ko ari bimwe mu byo umuntu ashobora kwifashisha, abyitera ariko bikora nk'ibiyobyabwenge bishobora kwangiza imikorere y'ubwonko ndetse n'umubiri w'ubikoresha.

Bimwe mu bikoresho umuganga yifashisha mu gihe ari kwita ku murwayi ufite ibikomere harimo uturindantoki umukasi inshinge yifashisha atera umurwayi ikinya tukavuga umuti wifashishwa mu gusukura igisebe ndetse n'ibipfuko.

Bage itukura irimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu kwita ku barwayi bafite uburwayi butandukanye twavuga nk'imvune, harimo ibipfuko, pombo zifashishwa mu gutera urushinge ndetse n'imikasi.

Icyuma cyabugenewe cyifashishwa mu gikorwa cy'ubuvuzi, ubona ko hari umurwayi uryamishijwe ugiye kwinjizwa muri iyo mashini kugira ngo igaragaze ikibazo afite mu ngingo kugira ngo ahabwe imiti imufasha.

Umugabo ubona ko ateruye icupa ririmo amazi arimo kuyanywa, ni ngombwa kunywa amazi menshi kandi asukuye bityo bituma umubiri ukora neza kurushaho bikaba byaturinda kurwaragurika.

Umuntu urimo arasuka amazi mu kirahuri, ubona ko ikirahuri gifite isuku, ni ngombwa kugirira isuku ibikoresho byose twifashisha mu gihe turimo dufungura cyangwa se turi gufata ibinyobwa.

Umubyeyi ubona ko yicaye ku buriri ari kumwe n'umwana we, ubona ko bari kugirana ibiganiro biri gufasha umwana kwishima cyane, ni ngombwa kuganiriza abana kuko bibafasha kwagura imikorere yabo y'ubwonko.

Ukuguru k'umuntu ubona ko asa nk'uri kwirukanka, ku bitsike bye hariho ibimenyetso bigaragaza uko imitsi ye iteye, mu gihe umuntu akora siporo ntabwo ashobora kugira ikibazo k'indwara y'imitsi kuko ingingo ze ziba zikora neza.

Siporo ni ubuzima. Siporo ni ingenzi, umuntu ukora siporo ntapfa kurwara, umuntu ukora siporo aba afite ubudahangarwa ndetse igikorwa cya siporo cyakorwa mu buryo butandukanye haba se kwirukanka, kunyonga igare, guterura bimwe mu byuma byabugenewe n'izindi.

Siporo ni ubuzima siporro ni umuti kuko siporo irinda indwara nyinshi zitandukanye hari uburyo bwinshi umuntu ashobora gukoramo siporo hari ukunanura ingingo guterura bimwe mu byuma byabugenewe kwirukanka ndetse n'izindi.

Imikino igiye itandukanye harimo abari gukina umupira w'amaguru, umupira w'amaboko uzwi nka Volley ndetse na Basket, hari abari gukina Rugby, iyo yose ni imwe mu mikino ishobora kuturinda indwara, mu gihe twayikoze tugendeye ku bushobozi bw'imibiri yacu.

Ibintu icumi ushobora gukora bikaba byakongerera imbaraga ndetse bikaba byakurinda kugira ikibazo cyo ndwara yo mu mutwe, hari kwicara mu buryo bunogeye ku buryo wicara ntube wavunika umugongo ndetse ntiwicare umwanya munini, ibyo byose bizagufasha kugira ubuzima bwiza.

Umuganga urimo gusuzuma umwana ubona ko afite ikibazo cy'uburwayi bw'amenyo, yifashishije kamera yabugenewe mu gusuzuma uko amenyo yangiritse.

Icyumba kinini cyane kigiye kirimo ibikoresho bitandukanye, utubati dutandukanye ndetse n'abaturage bagiye batandukanye, ubona ko harimo ibikoresho byifashishwa mu gukora siporo ngororamubiri.

Umugabo uri muri siporo ngororamubiri, ubona ko yazamuye akaguru, ni ngombwa gukora siporo cyane mu gihe umuntu wese afite ikibazo cy'ingingo, ukwiye gukora siporo mu rwego rwo gutuma ingingo zawe zikora neza.

Abantu benshi urujya n'uruza ubona ko bari mu gikorwa cy'imikino igiye itandukanye yo kwirukanka, ubona ko hari umwana wirukanse, agatanga abandi kugera ku mugozi wabugenewe.

Imbuto zitandukanye, pome, amaronji, ni bimwe mu mbuto zikubiyemo intungamubiri zitandukanye zifasha umubiri w'umuntu kugira ubudahangarwa mu gihe abikoresheje ku mafunguro ye buri munsi.

Abantu batandukanye bari mu gikorwa cya siporo bambaye imyenda yabugenewe mu gukora siporo, ubona ko bari kwirukanka ni byiza gukora siporo buri munsi kugira ngo dukomeze kugira ubudahangarwa bw'umubiri.

Umugabo ubona ko ari nko muri siporo, ari mu cyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye byo gukora siporo. Yunamye, amaboko yayerekeje hasi, ahagaritse akuguru kamwe akandi yakajyanye inyuma, mu rwego rwo kugorora ingingo ze, kugira ngo bimufashe kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa uri mu cyumba ubona ko yazamuye umutwe hejuru, amaboko ye ari hasi, ari gukora siporo mu rwego rwo kubungabunga ubuzima ndetse no kugira ubudahangarwa bw'umubiri, bumufasha kwirinda uburwayi butandukanye, nk'umubyibuho ukabije, gutera nabi ku mutima, isukari nyinshi mu mubiri, n'izindi ndwara zose zishamikiye ku muntu.

Umukobwa wicaye ubona ko ari kumva indirimbo muri ekuteri ari muri siporo, wunamishije umugongo we akaguru kamwe akakarambura akagafatisha ibiganza bye, ubona ko ari muri siporo ngororamubiri bityo bifasha ingingo ze gukora neza.

Umugabo uri gukora siporo, siporo ni ingenzi cyane kuko zongera imwe mumisemburo ndetse bikagabanya na stress, bikongera umuvuduko w'amaraso, bikaturinda kurwara indwara zitandukanye.

Bimwe mu gikoresho cyifashishwa mu gikorwa cya siporo hapimwa ubushobozi bw'umubiri, mu rwego rwo kumenya siporo umuntu akwiye gukora kugira ngo atananiza umubiri we.

Imbangukira gutabara, ni imwe mu modoka igenda ihabwa ibigo nderabuzi, ishinzwe gutwara abarwayi mu gihe bategereye ibitaro, kugira ngo bagezwe kwa muganga hakiri kare bitabweho n'abaganga.

Umwana ukiri muto ubona ko yicaranye n'umuganga uri kumusuzuma uko uburwayi bwe bw'amenyo buhagaze hifashishije igikoresho byifashishwa mu gupima uburwayi bw'amenyo.

Umuryango witwa Croix Rouge ni kimwe mu kigo gishinzwe gutanga ubutabazi bw'ibanze ku bigendanye n'ubuzima, gifasha abarwayi mu kubaha imwe mu miti ibafasha kugira buzima.

Umugabo uryamye hasi ubona ko ari mu cyumba cyagenewe ibikorwa ngororamubiri, ubona ko ari gukoresha umugozi mu rwego rwo kunanura akaguru ke, ni ngombwa kujya mu nzu zagenewe ibikorwa ngororamubiri kuko dusangayo ibikoresho bidufasha gukora siporo neza.

Umusore ubona ko yambaye agapira k'umuhondo kanditseho nimero eshatu, uteruwe mu maboko n'abagabo babiri bambaye amasengeri y'umutuku, ariho akamenyetso ko guteranya, bigaragaza ko ari abakozi b'umuryango utabara imbabare witwa Croix rouge.

Umukobwa muto wicaye wambaye imyenda ya siporo, ubona ko ari ahantu hitaruye, atuje arimo aragorora ingingo ze mu rwego rwo kwirinda umubyibuho ukabije n'izindi ndwara zose ziterwa no kudakora siporo mu mubiri.

Icyumba cyateguriwe imikino ya siporo ngororamubiri kirimo ibyuma byifashishwa mu gukora siporo harimo n'ibyo baterura, ibyo bakurura, imigozi basimbuka n'ibindi byose bitandukanye bifasha umuntu gukora siporo ngororamubiri.

Umugabo uhagaze ahantu hirengeye, ari kureba imbere ye wiyifashe inyuma ku mutwe ubona ko yambaye imyenda ya siporo, ari kuruhuka, ni ngombwa kuruhuka igihe cyose wumva unaniwe mu gihe wari uri gukora siporo kugira ngo utananiza umubiri.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu gikorwa cya siporo ngororamubiri harimo umugozi wo gusimbuka, inkweto zabugenewe mu gukora siporo, ndetse n'imbuto zigiye zitandukanye umuntu ashobora gufata kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Umurwayi ufite igikomere, uri kwitabwaho n'umuganga, ubona ko yakomeretse mu kiganza, bari kumushyiriraho igipfuko kimurinda kuba hakinjira imyanda muri icyo gisebe bikaba byamuviramo kanseri.

Umugore ubona ko yambaye isume afite furari ku rutugu rwe wazamuye akaboko, afite icupa mu ntoki ari kunnywa amazi mu rwego rwo kunywa amazi ahagije kugira ngo umubiri we udacika intege.

Umurwayi wicaye mu kagare kagenewe gufasha abafite ubumuga bw'ingingo, aricaye umuganga amuri iruhande, ari kumufasha gukora siporo gake gake yifashishije utwuma twifashishwa mu gukora siporo ngororamubiri, umuntu aterura akananura imitsi.

Igihe umuntu afite ikibazo cy'imvune ashobora guhabwa pomade yo kwisiga aho yavunitse cyangwa se agapfukwa hifashishijwe ibipfuko ndetse akaba yakogerezwa n'igisebe mu rwego rwo kwirinda ko ashobora kujyamo umwanda, kikaba cyatera kanseri.

Imbuto ziganjemo amaronji, inkeri, ubunyobwa, imboga, pome, amazi ndetse n'umutobe, ni bimwe mu bifasha umubiri w'umuntu kugira ubudahangarwa bityo ubifashe ntapfe kurwara indwara mu buryo bworoshye, kuko bafite abasirikare n'ubudahangarwa bihagije.

Inshinge, ibipimo ndetse n'uturindantoki n'imikasi n'ibifuko, ni bimwe mu bikoresho bikunze gusangwa kwa muganga bifasha umuganga kwita ku barwayi bafite ibikomere bigiye bitandukanye.

Zimwe muri siporo umuntu akwiye gukora zikaba zamufasha gukira indwara zimwe na zimwe z'ingingo ndetse bikaba byamufasha no gutekereza neza. Harimo nko kwiruka bitari ukunaniza umubiri, kubyina, gusimbuka ndetse n'izindi.

Igare ry'abafite ubumuga bw'ingingo z'amaguru bafite ikibazo cyo kutagenda, leta ibaha ubufasha bwo kubaha insimburangingo n'utugare tubafasha kugenda ahantu hatandukanye.

Siporo ni ingenzi cyane ifasha umuntu gukira indwara zitandukanye, harimo n' indwara z'imiti, ndetse n'izindi ndwara zose zishobora gufata ingingo z'umuntu, bikaba byamubuza kugenda. Umuntu ukora siporo ntahura n'ikibazo cy'ingingo.

Umupira w'amaguru ndetse n'inkweto zabugenewe mu gukina umupira w'amaguru ndetse n'igikoresho cyifashishwa na muganga igihe agiye gupima uko umutima w'umurwayi uri gutera kugira ngo abashe kumenya uko yita k'umurwayi.

Umukobwa ukiri muto ubona ko yambaye imyenda yabugenewe mu gukora siporo, uri gukora siporo ngororamubiri, ubona ko yazamuye akaguru ke, akagafatisha amaboko ye mu rwego rwo kugorora ingingo ze.

Umuntu ubona ko ari mu cyumba giteguye neza ari gukora siporo ngororamubiri, yafashe ukuguru kwe akakujyana inyuma ukundi akagushinga akazamura amaboko ye ari kugorora ingingo.

Umuntu wicaye ubona ko afite ikibazo cyo gukomereka mu ivi rye ubona ko afite igipfuko rwose ari kugerageza kugishyiraho neza mu rwego rwo kwirinda mikorobe zishobora kwinjira mu gisebe cye bikaba byamuviramo uburwayi butandukanye na kanseri.

Umurwayi wese ugiye kwa muganga afatwa ibizamini kugira ngo hitabwe ku burwayi afite, ndetse agapimwa n'ibiro kugira ngo hagaragare uburyo ki umurwayi yagabanyutse mu kigendanye n'ingano mu rwego rwo kugira ngo bite ku buzima bwe bakurikije ibimenyetso bakuye mu isuzuma.

Ibiryo bitandukanye byiganjemo amagi, ibishyimbo, imboga, imbuto ndetse n'ibikomoka ku matungo biri ku meza, ubona ko hari umugabo uteruye icyuma bigaragara ko afite imikaya akora siporo cyane kandi akarya neza, ni ngombwa kurya neza ndetse tukibuka no gukora siporo mu rwego rwo gukomeza gusigasira ubuzima bwacu.

Scanner ni icyuma usanga hirya no hino mu bitaro, gifite akamaro ko kugaragaza uburyo ki ingingo z'umuntu zangiritse mu gihe umurwayi yavunitse cyangwa se afite ikindi kibazo cy'ingingo, anyuzwa muri iki cyuma kikagaragaza ishusho y'uko ingingo ze zihagaze.

Umubyeyi uhagaze ubona ko ari muri siporo yazamuye akaboko afata icupa rye arimo aranywa amazi, ni ngombwa ko umuntu uri gukora siporo anywa amazi menshi kandi asukuye kuko umubiri we uba watakaje andi mazi menshi.

Bimwe mu bikoresho by'ibanze, umuganga yifashisha mu gihe agiye kwita ku murwayi ufite igikomere, twavuga nk'uturindantoki, agapfukamunwa, umukasi ndetse n'umuti wifashishwa mu koza icyo gikomere.

Umukobwa mwiza wicaye ubona ko yarambuye amaguru ye rwose wahese umugongo akajyana amaboko ye imbere ubona ko ari muri siporo ngororamubiri igikorwa cyiza cyane gifasha umuntu kugira ubuzima bwiza.

Ni ngombwa gukina imikino igiye itandukanye, tugakoresha ibikoresho byabugenewe muri iyo mikino, mu rwego rwo kwirinda impanuka ishobora guterwa no kudakoresha ibikoresho byabugenewe gukina iyo mikino, ugasanga umuntu arahangirikiye.

Umugabo uhagaze bari muri siporo wambaye isengeri y'umukara iriho akarongo k'umutuku, ubona ko yafashe akaboko ke akagakoza inyuma mu bitugu bye, ari kugorora ingingo ze, ni ngombwa gukora siporo buri gihe kuko bituma tugira imbaraga ndetse n'ubuzima bwiza.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye ahantu ubona ko hateguye neza bari muri siporo rusange, abana, abagore, abasaza, ubona ko bose bari kugendera mu njyana imwe barambuye amaboko, bafite urimo kubatoza.

Bimwe mu bikoresho byifashishwa igihe umuntu agize ikibazo cy'imvune, harimo nk'ibipfuko, bande ndetse n'indi miti yifashishwa mu gukiza imvune nka pomade ishobora gusigwa aho umuntu yavunitse bikaba byafasha ingingo ze kongera gukora neza.

Indyo yuzuye igizwe n'ibitera imbaraga irinda ndwara ndetse n'ibyubaka umubiri imbuto zigiye zitandukanye pome, amatunda, n'imboga rwatsi, ibyo byose ni bimwe umuntu ashobora gufata bityo akagira ubuzima bwiza.

Umupira wa basete, ndetse n'umupira wifashishwa mu gukina hakoreshejwe amaguru, n'imigozi itandukanye yifashishwa mu gusimbuka ni bimwe mu bikoresho bikunze kwifashishwa mu gukora siporo rusange.

Umugore ubona ko ari muri siporo igaragara ari kuzamura amaboko ye, mu rwego rwo kunanura ingingo kugirango akomeze kugira ubudahangarwa ndetse n'abasirikare bafite imbaraga, bazamufasha kurwanya indwara igihe azaba yarwaye.

Icyumba kinini ubona ko kirimo amatara ndetse n'ibitanda n'imashini zigiye zitandukanye, ibyo byose byifashishwa igihe umuganga ari kwita ku murwayi ufite uburwayi busaba ko akorerwa isuzuma ryihariye.

Umuntu uteruye amazi mu kiganza cye ubona ko ari amazi afite isuku rwose ni ngombwa ko tuywa amazi meza afite ubuziranenge hifashishijwe bimwe mu bikoresho bisukura amazi haba imiti cyangwa kuyateka mbere yo kuyakoresha.

Umugabo wambaye ekutei ubona ko ari mu gikorwa cya siporo ngororamubiri, ufite icupa ry'amazi. Ni byiza kunywa amazi mu gihe umuntu ari gukora siporo kuko umuntu aba yatakaje ibyunzwe ndetse n'amazi menshi mu mubiri, ni ngombwa kongera kunywa amazi menshi kugira ngo umubiri wacu udacika intege.

Abantu bari mu gikorwa cya siporo ubona ko umwe yicaye ku gatebe ari kuruhuka ari kunywa amazi, naho undi ahagaze y'inanura mu rwego rwo gukira amavunane.

Umukobwa wicaye ku mukeka usa nk'ubururu, ubona ko yahese umugongo, yarambuye amaguru, ibiganza bye bikaba bifashe mu nsi y'ikirenge, ari gukora siporo ngororamubiri mu rwego rwo kwirinda kugira ingingo zidakora neza.

Igikapu kinini kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu kwita ku murwayi igihe agize ikibazo cy'imvune, twavuga ibipfuko, bande, pomade n'ibindi byose bikenerwa kugira ngo umuntu agize ikibazo cy'imvune yitabweho.

Igihe umuntu yakoze siporo agahura n'ikibazo cy'imvune, akwiye kwihutira kujya kwa muganga bakamufasha kuba bagorora ingingo ze cyangwa se mugihe afite gikomere akaba yapfukwa, hifashishijwe ibikoresho byabugenewe mu kwita ku bikomere.

Umuntu uryamye hasi ubona ko iruhande rwe hari abandi bahagaze bari kumurebera, hakaba ari umugore n'umugabo bambaye utujakete tw'umutuku, ubona ko bari kumufasha kumuvura, bigaragara ko avunikiye mu mikino, ari kwitabwaho n'abakoranabushake.

Sitopupeyini ni imiti ifite ubushobozi bwo kugabanya uburibwe igihe umuntu afite igikomere kiri kumurya cyane, ashobora guhabwa bino binini bityo bikamurinda kubabara.

Umugore wicaye ubona ko yambaye imyenda ya siporo, ari mu cyumba giteguye neza ubona ko yiteguye gukora siporo ngorora mubiri, mu rwego rwo gukomeza kugira ubudahangarwa bw'umubiri.

Umuntu ubona ko ari mu cyumba giteguye neza yafashe tapi hasi akayipfukamaho ubundi akarambura ibiganza, imbere ye ubona ko ari muri siporo ngororamubiri, bifasha ingingo ze gukora neza.

Umugabo rwose ubona ko afite imikaya ubona ko akora siporo ndetse agafata n'indyo ihagije. Ni byiza gukora siporo ariko ugendeye ku bushobozi bw'umubiri wawe kuko siporo nyinshi nazo zishobora kugira ingaruka ku muntu uzikora.

Siporo n' ubuzima ku muntu wese ukora siporo ntago agira ikibazo cy'intege nke buri gihe ahora yumva afite imbaraga ndetse umubiri we ugahora ufite ubudahangarwa buhagije bityo ntabashe kurwara byoroshye.

Umugabo acuruza imiti gakondo igiye itandukanye iva mu bimera, bitunganywa neza bigashyirwa ku isoko bikagurishwa ku murwayi wese, ufite uburwayi bugiye butandukanye.

Imiti gakondo ikorwa mu bimera, ifite ubushobozi bwo kuvura indwara zigiye zitandukanye ndetse no guha ubushobozi nk'umuntu gucika intege mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina ashobora kwifashisha bimwe mu bimera biba byaratunganijwe. Bikaba byamufasha kongera kugira imbaraga ndetse n'ubushake.

Abantu ubona ko bari kugenda bagana ahantu hari umugezi ushoka, ubona ko iruhande rwabo hagiye haba ibimera byinshi bitandukanye, ahantu ubona ko rwose ari mu misozi myiza ikeye.

Urusobe rw'ibimera bitandukanye: twavuga igikakarubamba, umubirizi, umuravumba n'ibindi bitandukanye byose byifashishwa mu gukora imiti gakondo ititandukanye ivura indwara zigiye zitandukanye.

Ibimera bitandukanye, twavuga, igikakarubamba, umuravumba ndetse n'ibindi bimera bigiye bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti gakondo, ivura indwara zigiye zitandukanye, cyane cyane indwara zikunze gufata abagore, zikababuza kugira imihango. Umuntu ufite ibibazo ashobora kwifashisha imiti gakondo, ikamufasha.

Imiti gakondo ikurwa mu bimera bigiye bitandukanye dusanga hirya no hino, ishobora gufasha umurwayi wese mu gihe afite ibibazo bigiye bitandukanye nk'umuntu wikinishije ndetse n'umuntu utagira ubushake mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina, iyi miti gakondo ishobora kuba yamufasha ikamuvura ikibazo ke.

Ikimera cyitwa inyarabasanya yifashishwa mu kuvura zimwe mu ndwara zigiye zitandukanyekanya, umuntu ufite uburwayi ashobora kwifashisha bimwe mu bimera, mu rwego rwo gukira ubwo burwayi.

Ubaturage ubona ko bari mu gikorwa cy'ubuhinzi, bari mu murima uteyemo ibimera bigiye bitandukanye, ubona ko bari kwifashisha imashini mu bikorwa byabo by'ubuhinzi.

Ubworozi bw'inzuki butanga umusaruro w'ubuki ubuki bwifashishwa mu gukora imiti igiye itandukanye, ikiza uburwayi ndetse ikaba

Forever royal jelly, imwe muri producti ikorwa mu rusobe rw'ibimera, itunganywa igafasha umurwayi ufite uburwayi bw'uruhu, igihe cyose ayisize, bishobora kuba byamufasha gukira indwara z'uruhu.

Bimwe mu bimera bikunze gukorwamo imiti yifashishwa mu kuba yavura uburwayi bugiye butandukanye twavuga nk'indwara zikunze kwibasira uruhu tukavuga nk'abantu bafite ibibazo cyane cyane ku bagore nko kuva imihango idakama hifashishwa imiti y'ibimera bitandukanye ikabafasha kuba bakira ubwo burwayi.

Imbuto ni kimwe mu bigize intungamubiri zifasha umubiri w'umuntu kugira ubudahangarwa bwo kurwanya indwara zigiye zitandukanye, ni ngombwa ko turya imbuto ku mafunguro yacu ya buri munsi mu rwego rwo kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ikimera cyaranduwe ku butaka ubona ko gitoshye cyahuye n'ubutaka bufite intungabihingwa, ndetse gifite indabyo zarabye bigaragara ko hagiye kuzavamo imbuto muri izo ndabo iki kimera cyarabije.

Bimwe mu bimera bikorwamo imiti twavuga nk'igikakarubamba, umubirizi ndetse n'urundi rusobe rw'ibimera bigenda bigaragara hirya no hino bifata bigatunganywa bikaba byakorwamo umuti ushobora gufasha abantu bafite indwara zitandukanye.

Ibimera bigiye bitandukanye, igikakarubamba, umuravumba, ndetse n'ibindi binyampeke byose, bishobora gufatwa bigatunganywa mo amavuta yifashishwa mu kuvura indwara zibasira uruhu, binyuze mu kuyisiga cyangwa se kuyakaraba.

Agacupa gapfundikiye neza, karimo ifu yatunganyijwe ivuye ku kimera cyitwa umuravumba, uhabwa umurwayi ufite uburwayi butandukanye, ukaba wamukiza.

Bumwe mu burwayi bw'ingingo bukunze kugaragara, nko kurwara imbavu, mu ivi, mu nkokora ndetse n'uruti rw'umugongo. Ni bumwe mu burwayi bukunze kwibasira abantu badakora siporo cyangwa se umuntu ukora siporo zirusha ubushobozi umubiri we.

Urusobe rw'ibimera bigiye bitandukanye ubona ko bifatwa bigatunganywa bigakorwamo imiti igiye itandukanye haba iy'amazi ndetse n'ibinini bigiye bitandukanye, bivura indwara zitandukanye.

Aloe Lips ni amwe mu mavuta yagenewe gusirwa ku munwa kugira ngo itange ububobere ndetse irinde gusadagurika kw'iminwa, bityo umuntu ahore afite uruhu rusa neza. Akorwa mu bimera bigiye bitandukanye nk'igikakarubamba n'ibindi.

Ibimera bikorwamo imiti kavuga nk'igikakarubamba, umuravumba, vetiveri, ndetse n'ibindi bimera biratunganywa bikaba byakorwamo imiti yihabwa abarwayi bafite uburwayi bugiye butandukanye.

Bimwe mu bimera bikunze gukorwamo imiti gakondo igiye itandukanye ifasha abantu bafite uburwayi bugiye butandukanye twavuga nk'imihango idakama, kubura ubushake mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina n'izindi ndwara zose zishamikiye ku buzima, dushobora kwifashisha umuti gakondo mu miti ikorwa mu bimera mu kuvura ubwo burwayi.

Shapo isabune ikorwa mu bimera yifashishwa mu gusukura umubiri mu rwego rwo kurwanya indwara ziterwa n'umwanda. Ni ngombwa ko igihe cyose dukora isuku haba umubiri ndetse n'intoki dukoresha isabune nziza yabugenewe.

Ibimera bigiye bitandukanye, bigiye bifite ubushobozi bwo kuvura indwara zimwe na zimwe, iyo umuntu afite ikibazo cyo kwikinisha, imihango idakama n'izindi ndwara ashobora gukoresha imwe mu miti gakondo, ikaba yamufasha gukira ubwo burwayi.

Ubuvuzi gakondo ni ubuvuzi busigaye bwemewe hirya no hino mu gihugu kuko byaje kugaragara ko imiti gakondo na yo ifite ubushobozi bwo kuvura zimwe mu ndwara zigiye zitandukanye, bahabwa icyangombwa cyo gucuruza iyo miti gakondo kuko babifitiye ubuhanga.

Imiti gakondo ikorwa mu bimera bigiye bitandukanye, igafatwa igatunganywa, igashyirwa ku isoko bityo umurwayi wese akaba yabasha kuyikoresha igihe arwaye bikamukiza uburwayi butandukanye.

Umuntu ubona ko afite urusobe rw'ibimera bigiye bitandukanye, yabishyize mu gikoresho ari kubitunganyirizamo ari kubisya kugira ngo bivemo ifu izavamo umuti uzifashishwa mu kuvura indwara.

Urusobe rw'ibinyampeke bigiye bitandukanye by'ibinyamizi, bifatwa bigashyirwa hamwe, bigatunganywa, bigakorwamo imiti igiye itandukanye ari yo ikunze kumenyekana ku izina ry'imiti gakondo.

Akabati kagizwe n'imiti igiye itandukanye iva mu bimera yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, kubera ko ibimera bifite ubushobozi bwinshi cyane bwo kuvura indwara zitandukanye.

Ibimera ni ingirakamaro cyane mu kurinda indwara ndetse no kuvura indwara zigiye zitandukanye, hari indwara usanga abaganga batabashije kubonera imiti bityo bikaba ngombwa ko imiti y'ibimera ifasha umurwayi mu gukira indwara arwaye.

Uburoso bwiza bwifashishwa mu gusukura amenyo, mu rwego rwo kwirinda indwara zo mu kanwa ziterwa no kudasukura neza amenyo, mu gihe umuntu amaze kurya ni ngombwa gusukura amenyo twifashishije uburoso ndetse n'umuti wabugenewe, mu rwego rwo kwirinda indwara zo mu kanwa ndetse no gusohora umwuka mubi.

Umuravumba ni ikimera usanga gikunze kuba kiri ahantu hadahingwa inshuro nyinshi, gikorwamo imiti igiye itandukanye, ifasha abarwayi gukira indwara.

Amacupa agiye atandukanye arimo imiti ikomoka ku bimera bitandukanye, ivura indwara zigiye zitandukanye, harimo nko kuva kw'imihango idakama, kubura ubushake mu gihe cyo gutera akabariro n'ibindi bibazo byose bishamikiye ku buzima.

Igikakarubamba ni ikimera gifite ubushobozi bugiye butandukanye gikorwamo imiti ndetse n'amavuta, byifashishwa mu kuvura indwara z'uruhu ndetse n'izindi ndwara zigiye zitandukanye.

Ikimera cyitwa igikakarubamba gikorwamo umuti ufite ubushobozi bwo kongerera ubudahangarwa uruhu ndetse n'ubuzima, birinda indwara zigiye zitandukanye zikunze kwibasira uruhu.

Imwe mu miti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara, zibasira uruhu nk'ibiheri, gutonyoka n'ubundi bwoko bwose bw'uburwayi bufata uruhu, hifashishwa bimwe mu bimera mu kubona umuti, ushobora kuvura ubwo burwayi.

Ingemwe zikiri ntoya z'ibimera bizwi ku izina ry'umuravumba, biri ahantu habugenewe bashinzwe kwita ku bimera mu rwego rwo gufata izo mbuto zikaba zaterwa, mu rwego rwo kubungabunga urusobe rw'ibimera bikorwamo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Aroverajeri amavuta akorwa mu gikakarubamba, afite ubushobozi bwo kuvura indwara z'uruhu igihe umuntu akoresheje aya mavuta ayisiga ku mubiri we nyuma yo gukaraba.

Igiti kinini cy'ikimera cyitwa umuravumba gikorwamo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu buvuzi bw'indwara nyinshi zigiye zinyuranye harimo nk'inkorora, ibicurane ndetse n'indi miti itishyurwa kwa muganga.

Forever bright tooth ni umuti wagenewe gusukura amenyo ukorwa mu bimera bitandukanye, ufite ubudahangarwa bwo kuvura zimwe mu ndwara zishobora kwandura binyuze mu kudakorera isuku amenyo.

Umuganga gakondo uri mu nzu irimo imiti igiye itandukanye yatunganyijwe igashyirwa mu ducupa, biturutse mu bimera bigiye bitandukanye n'ibinyampeke bishyirwa hamwe bikavamo imiti ifasha abarwayi gukira indwara z'urusobe mu buzima.

Akagera medesine ni ubuvuzi buhabwa umuntu uwo ari we wese ufite ubwisungane mu kwivuza harimo mituweli, Rama n'ubundi bwishingizi bwose bwagenewe ubuzima, umuntu ufite ubwo ubwishingizi ashobora guhabwa ubuvuzi ku kiguzi gito cyane.

Igizwe n'ibintu byinshi bitandukanye harimo, nk'udukoko tumwe na tumwe nk'inzuki ziri guhovwa ubuki abaturage bari mu mirimo y'ubuhinzi itandukanye, n'umugabo ubona ko yafashe igiti kuruhande hakaba hari ibindi bimera ubona ko bimeze neza.

Igikakarubamba ni ikimera gifite ubudahangarwa, gikorwamo imiti igiye itandukanye ifasha umuntu kuba yagira uruhu rwiza ndetse mu gihe umuntu afite indwara z'uruhu ashobora gukoresha amavuta ava mu gikakarubamba akaba yabasha kumufasha.

Hari amwe mu mavuta akorwa mu bimera bitandukanye, twavuga nk'igikakarubamba, bifite ubushobozi bwo kuvura indwara zigiye zitandukanye, cyane cyane indwara zikunze kwibasira uruhu rwa muntu.

Abavuzi gakondo bagiye baba hirya no hino mu gihugu, batanga imiti iva ku bimera bigiye bitandukanye bakusanya bakabikoramo ifu ndetse bakabitunganya ku buryo ishobora gufasha umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi butandukanye akaba yayikoresha agakira.

Umugabo ubona ko afite ku ruhande amacupa agiye arimo imiti itandukanye iva mu rusobe rw'ibimera, avuga ko ari umujyanama w'ubuzima ndetse n'imibereho myiza y'abaturage, agira inama abarwayi bose kuba bagana ubuvuzi kugira ngo bubiteho.

Urusobe rw'ibimera bigiye bitandukanye birimo igikakarubamba, umuravumba n'ibindi bimera bigiye bifite indabyo, byifashishwa mu gukora imiti gakondo, ifasha abantu bafite uburwayi bugiye butandukanye, twavuga nk'umutwe udakira, kujya mu mihango ntikame ndetse n'ibindi bibazo by'uburwayi.

Herbal Tea Range ni umuti ukorwa mu bimera bigiye bitandukanye, bifatwa bigatunganywa, bikaba byakorwamo umuti gakondo wifashishwa mu kuvura bumwe mu burwayi bugiye butandukanye.

Bimwe mu bimera birafatwa, bigatunganywa, bigakorwamo imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, igashyirwa ku isoko, ikagurwa mu gihe umuntu arwaye ikamufasha gukira indwara.

Alo Jojoba ni amavuta azwi ku izina rya shampo yifashishwa yisigwa cyangwa se umuntu akayakoresha mu gihe ari gukorera isuku uruhu rwe, hibandwa ku kwirinda indwara zitandukanye z'uruhu.

Imbuto ni kimwe mu bituma umuntu agira ubuzima bwiza igihe cyose yibutse gufata imwemwe mu bwoko bw'imbuto igihe ari ku meza nigenzi cyane kuko bituma umuntu agira ubudahangarwa bitewe no gufata indyo yuzuye.

Ahantu hateguye neza, hari ibinyampeke bigiye bitandukanye n'ibimera; hari utwungo ndetse n'urusyo rwabugenewe mu gusya ibimera kugira ngo hakorwe imiti itandukanye gakondo, yifashishwa mu buvuzi bw'indwara zigiye zitandukanye.

Umubyeyi uhagaze ufite marete mu ntoki, ubona ko yitwikije igitambaro cy'umweru mu bitugu byiwe sokoje umusatsi we neza, ubona ko ari kwitegereza bimwe mu bimera izwi nk'umuravumba yifashishwa mu gukora imiti itandukanye gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.